Umugabo wambaye umupira w'amaboko maremare, akaba afite ibiganza by'inzobe, yateze amaboko ku gihombo kiri kuvamo amazi meza y'urubokobobo ariko cyo kikaba kitameze neza kugira ngo akabe ake.

Abantu benshi cyane bo mu cyaro, bafite indabo zo mu mabara atandukanye, zirimo umuhondo, umwero, umutuku, ubururu ndetse n'icyatsiba n'abandi bafite amajerekani, ubona ko batonze umurongo, bashaka kurwanira kuvoma mbere.

Abantu benshi cyane barimo urubyiruko ndetse n'abakuze, bahagaze imbere y'inzu yubakishije amatafari ahiye ndetse ikaba iteye n'irangi ry'umuhondo uruhande rumwe, bahagaze ahantu hari sima y'umutuku bari kwifotoza.

Umuganga w'umugore wambaye itaburiya y'umweru, akaba ari mu cyumba avuriramo aho ari kuvura umwana muto uteruwe na nyina, akaba ari kumuvura anamupima amwitaho ubona ko yamukunze cyane.

Umwana muto w'umukobwa watereye igitenge ku rutugu, yambaye ijipo ya karokaro, akaba yaje kuvoma amazi yitwaje amajerekani abiri ku mugezi rusange, aho hari undi mugore uri kumufungurira amazi. Inyuma yabo hari abandi bana babashungereye.

Abantu benshi cyane bahagaze mu gisharagati. Barimo abana bato biga mu mashuri y'inshuke, bambaye impuzankano biga bambaye. Imbere yabo hari abantu bakuru bahagaze, bari kubitegereza cyane ko abo bana bari kubaririmbira.

Abagore benshi cyane bahuriye hamwe kwa muganga, abagore bose bafite abana bakiri bato ubona ko bari mu kigero cy'amezi atandatu, bakaba baje kubateza urushinge mbese bakingiza dore ko hari n'umuganga ugannye hirya ku ruhande uje kubakira.

Abantu babiri barimo umwana muto cyane wambaye inkweto za bodaboda ndetse n' numukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto za bodaboda z'umuhondo, wateye igitenge ku rutugu akaba yaje kuvoma amazi atemba yitwaje indobo y'umweru.

Abana batandatu bambaye impuzankano y'ishuri bose bakaba bambaye kaki abahungu n'abakobwa, baje ku ivomero rusange bitwaje indobo z'umuhondo ndetse n'amajerekani mato kugira ngo bavoma amazi bajye gukoropa amashuri bigiramo.

Abantu benshi cyane bakaba ari abayoboke b'idini ry'abakirisito aho bari mu rusengero, buri wese yitwaje bibiliya, urusengero barimo ruteye amarange y'umuhondo, ndetse bakaba bitwaje amabibiliya yo gusomamo ijambo ry'Imana.

Inyubako nziza cyane y'igorofa igeretse gatandatu, ikaba iteye amarangi y'umweru, irimo ibirahuri by'akataraboneka by'umukara, bakaba bari kwamamaza ko hari igikorwa kizabera ku itariki makumyabiri n'ebyiri z'ukwa Kane mu bihumbibiri na makumyabiri na kane.

Umwana muto w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka umunani, afite umusatsi w'injwiri, akaba yambaye agashati k'umutuku yahinnye amaboko, aho ateze amaboko ku mugezi akaraba intoki.

Imashini nyinshi cyane zifashishwa mu nzego z'ubuzima, ziri mu mabara y'ubururu, icyatsi n'umuhondo. Zikaba zitondetse ari nyinshi cyane, aho hari umugabo wambaye imyenda y'umukara uri kuzitembera hagati.

Umwana muto w'umuhungu ufite umusatsi mwinshi, yambaye ishati n'ikabutura akaba ari kuvoma ku mugezi rusange ari kumena amazi abona ko ayapfusha ubusa, yaje kuvoma yitwaje indobo ebyiri zose z'ubururu.

Umwana muto w'umukobwa, yambaye impuzankano y'ishuri irimo ishati y'umuhondo ndetse n'ingutiya y'ikigina, akaba ari gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe, inyuma ye hakaba hari abandi banyeshuri bagenzi be bari gukina mu kibuga.

Umwana muto w'umukobwa wiga mu mashuri y'inshuke, yambaye impuzankano irimo ishati y'umweru, irimo uturongo dutukura ndetse n'iijipo y'umutuku, akaba ari gukaraba amaboko kuri kandagira ukarabe iriho indobo y'umutuku ndetse n'akabase k'umuhondo.

Inama yahuje abayobozi bakomeye mu nzego z'ubuvuzi, hakaba hari umugabo uhagaze imbere y'imbaga, wambaye amadarubindi, ikote ndetse na karavate, akaba ari kuvugira muri mikoro, inyuma ye hakaba hariho igifuta cyanditseho amagambo yo mu rurimi rw'Icyongereza.

Ni agatanda keza cyane ko mu cyaro kakaba kare mu mboga aho kanitseho amasahani y'umweru, ubururu, umutuku ndetse n'umuhondo ku izuba, iruhande rwako hakaba ari insina.

Abantu benshi cyane b'abavuzi bambaye amataburiya y'umweru bose mu gihe umwe muri bo yambaye ikanzu y'umutuku, akaba ari na we ubahagaze hagati bisa naho ari umuyobozi ubona ko bishimanye cyane.

Abantu bane bicaye imbere y'imbaga, barimo abagore babiri n'abagabo babiri, buri wese afite agacupa k'amazi ari kunywa ndetse aba bagabo bombi bafite na za mudasobwa. Umugore umwe akaba afite mikoro ari na we bahaye ijambo.

Umwana muto w'umuhungu yambaye ishati y'amaboko maremare ariko yayizinze. Yambaye n'ipantaro y'itise akaba ari gukaraba intoki yifashishije kandagira ukarabe iriho indobo y'umweru n'umupfundikizo w'icyatsi.

Inyubako eshatu z'akataraboneka, aho zubatswe munsi y'ubutaka, zikaba zirimo amazi menshi cyane, yifashishwa mu bikorwa bitandukanye, ndetse hakaba hariho n'ikiraro cyambukiranya kikajya hagati muri izo nyubako.

Umugore wabyibushye cyane, yambaye iribaya ry'umweru, yambaye isaha ku kuboko, yarisukishije yambaye n'agapfukamunwa, akaba yaje kwa muganga kwikingiza icyorezo cya kovide cumi n'icyenda, aho yakiriwe n'undi muganga w'umukobwa uri kumutera urushinge nta mbabazi.

Abantu bane baje ku ivomero rusange, bakaba basanze ibijerekani byinshi cyane bihateretse kandi bagomba kuvoma nyuma yabyo ubona ko bumiwe, bari kwibaza niba bari busubire mu rugo bakaza kugaruka ikigoroba.

Amagambo yanditse mu mpine mu ibara ry'umweru akaba ari mu rurimi rw'Icyongereza asobanura umuryango mpuzamahanga wita ku burenganzira bw'umwana. Hakaba hari n'ikirangantego cyawo kiri mu ibara ry'umweru aho umugore ateruye umwana we.

Abaganga benshi cyane bambaye amataburiya y'umweru, bakaba bambaye n'amakarita yakaze mu ijosi, aho bakiriye umugabo w'Umuzungu, ubona ko bamwishimiye cyane, inyuma yabo hari inyubako iteye irange ry'umuhondo bakoreramo.

Umugore uteruye umwana, bakaba bari mu ishusho y'Isi, aho bari mu ibara ry'ubururu, hasi hakaba hariho amasaka abiri acomekeranye, iki kikaba ari ikirango cy'Umuryango Mpuzamahanga wita ku burenganzira bw'umwana.

Abana benshi bateraniye hamwe bakaba bari mu kigero k'imyaka hagati y'umunani kugera kuri cumi n'ibiri, bose bambaye udupira tw'umutuku aho bakiriwe n'abandi bantu bakuru cyane bari kubaha igikoma ndetse n'amata.

Abantu babiri bahagaze bakaba barimo umugabo w'umujyanama w'ubuzima uhagararanye n'umugore nyiri urugo, uyu mugabo afite igipapuro kiriho abana babiri umukobwa n'umuhungu bahagararanye, akaba ari kwereka uyu mugore ukuntu bareshya.

Umukobwa wambaye ingutiya y'umukara ndetse n'umupira utukura w'amaboko magufi, ari kuvoma amazi mu ijerekani aho yayiteretse mu mabase abiri agerekeranye kugira ngo ajye gufora imyenda ye ayanike izuba rikiva.

Abaganga batatu umwe yambaye itaburiya y'umweru. Bose baga udupfukamunwa ndetse n'udusashe mu mutwe, babiri muri bo bambaye ibisashi bindi umubiri wose, akaba ari na bo bafite udukarito tw'umweru turimo umuti.

Abantu benshi cyane bicaye mu gisharagati cy'umweru kiriho amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, imbere yabo hakaba hari umugore w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru ufite mikoro uri kubaganiriza.

Abantu benshi cyane bahuriye mu nama. Ni abagabo bambaye neza, harimo umugore umwe, buri wese afite agacupa k'amazi ari kunywa, ni amazi ya Nile, hakaba hariho n'igipapuro cyanditseho izina rye.

Umuntu w'umukobwa mukuru yambaye ipantaro y'umukara n'inkweto zifunze, akaba ari gupomba amazi ku mugezi, aho ari gufasha abana bato baje kuvoma uko ari bane kugira ngo babone uko bajyana amazi kuko bo nta mbaraga nyinshi bafite.

Agahombo k'icyuma karwaye umugese, kakaba kari kuvamo amazi meza cyane y'urubogobogo, hari umuntu uteze ikiganza, wambaye ikote ry'amaboko maremare ariko utagaragara umubiri wose, aho ari gukaraba amazi asohoka muri aka gahombo.

Abantu batatu bafashanya barimo umugabo umwe n'abagore babiri, bakaba bari guterura imiceri iri mu mifuka y'umweru aho abagore bari kujya kuyizana kure bakaza bagasanga umugabo uhagaze hejuru y'indi mifuka akabafasha kwegera hejuru y'indi.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kongerera abarwayi umwuka, ni ibikoresho bitatu binini biri mu ibara ry'ubururu ndetse n'utundi tubiri dutoya na two twifashishwa tubika umwuka bongerera abarwayi.

Abana babiri bato b'abahungu, umwe yambaye imyenda isa ipantaro n'ishati bikoze muri muri londoni, undi yambaye agapira k'umutuku, bose akaba bateze amaboko kumugezi bari gutoba amazi.

Ibirori byahuje abakomeye mu nzego z'ubuzima. Bicaye hamwe ku meza y'ibiganiro baganira, bafite ibyo kunywa n'ibyo kurya, buri wese akaba yitwaje ikayi n'ikaramu yo kwandikamo iby'ingenzi baganiriye.

Umwana w'umuhungu wambaye ikabutura n'ishati bikaba ari impuzankano y'ishuri, ari kuvoma amazi ku kigega cy'umukara, avomera mu gakombe kugira ngo yoze amenyo ye, yifashishije aya mazi meza n'umuti w'amenyo wabugenewe.

Abantu benshi cyane barimo abirabura ndetse n'abazungu bake, bari kwifotoza nyuma y'uko bavuye kuganira ku buryo butandukanye bwo kwirinda ndetse no kurinda ababyeyi batwite kugira ubuzima budahwitse.

Umuntu ufite ibiganza byiza by'inzobe yaciye inzara yazimazeho akaba ari gukaraba intoki ateze amaboko ku mugezi uri kuzana amazi ariko akaba ari gukaraba nta sabune bigaragara ko atari bunoge neza.

Inama yahuje inzobere zaturutse amahanga yose zigahurira mu Rwanda, bakaba baje kwiga ku buryo butandukanye bwo kwita ku buzima, bicaye ku meza y'ibiganiro baganira, buri wese akaba afite agacupa k'amazi ari kunywaho.

Umugore ukenyeye igitenge, akaba yambaye umupira w'amaboko maremare, yambaye n'ingofero y'ubudodo mu mutwe, akaba yaje kuvoma amazi ku mugezi bubakiwe na Leta kufatanye n'umuryango World Vision.

Umwana muto w'umukobwa wambaye imyenda idozwe mu mukenyero, akaba yagiye kuvoma amazi mu mugezi utemba, aho yajubitse ijerekani akaba ari kuvoma amazi kugira ngo ajye kuyatekesha.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bisa naho baje gutaha ku mugaragaro ikigo gishya cyubatswe kikaba kizajya kitaribwamo abana bakiri bato, imbere y'aba bantu hari umugabo wambaye agapira k'umuhondo uri gusuhuzanya n'umwana.

Umukecuru wambaye isaha mu kuboko kw'ibumoso. Akaba yambaye agakomo mu kuboko kwe kw'iburyo, afitemo ikoro, akaba ahagaze imbere y'imbaga, aho ari kubaganiriza uburyo butandukanye bwo kwita ku buzima, inyuma ye hakaba hari n'ikirangantego cy'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima.

Abanyeshuri batandatu biga mu mashuri abanza bambaye impuzankano bose bambaye kaki hose. Bakaba baje kuvoma amazi ku mugezi rusange bitwaje indobo z'umuhondo ndetse n'ubujerekani butoya.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe, bakaba ari abanyamigabane mu bijyanye n'ubuzima, bakaba barashoye amafaranga menshi mu kubungabunga ubuzima none bakaba baje kubaza aho imishinga yabo igeze.

Abantu benshi cyane bakora mu nzego z'ubuvuzi, bamwe barahagaze, abandi batandatu bakaba bicaye imbere yabo ku ntebe y'umufariso, bakaba bari kwifotoza nyuma y'uko bamaze gukora inama yiga ku buryo bwo kunoza serivisi batanga.

Imbonerahamwe igaragaza ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, uko Isi bibona indwara zigereranya na zo ndetse n'ibijyanye n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, igenda inazisobanura mu rurimi rw'Icyongereza.

Inyubako yitaruye ikaba isakaje amabati atukura, irimo imiryango n'amadirisha byinshi cyane, mu gihe imbere yayo hari izindi nyubako zubatswe z'inziga, zikaba zirimo amazi hejuru ndetse n'umuhanda bidasanzwe.

Ababyeyi benshi cyane bafite ikibazo cy'uburwayi, baje kwa muganga ubona ko barwaye ariko batarembye cyane, aho bakiriwe n'umuganga w'umugore, wambaye itaburiya y'umweru, akaba ahereye ku mugore umwe aho yamushyizeho ikintu, ari kumupima umuvuduko w'amaraso.

Ibendera riri mu mabara abiri, umukara wiganje ndetse n'umuhondo, hejuru mu ibara ry'umuhondo hakaba harimo ikimenyetso cyo guteranya kiri mu ibara ry'umweru, bigaragaza ko ari idarapo ry'igihugu runaka.

Abantu benshi cyane biganjemo urubyiruko, bambaye imipira y'umweru n'ingofero z'umweru, mu gihe bamwe muri bo bambaye imipira y'icyatsi, bakaba bafite igipapuro mu ntoki cyanditseho ngo umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri, isuzumishe, turandure Kanseri y'inkondo y'umura.

Abana babiri, umwe yambaye impuzankano y'ishuri irimo n'umupira w'icyatsi urimo uturongogo tw'umweru ku maboko ndetse n'undi wambaye ishati ya karokaro, bakaba bishimira intambwe yatewe na Guverinoma mu kubitaho mu bijyanye n'ubuzima.

Abana batatu bari kuvoma amazi mu mugezi utemba. Bitwaje indobo ebyiri z'umweru ndetse n'indi imwe y'ubururu kugira ngo babone amazi yo gukoresha amasupu mu rugo iwabo.

Ni abaganga batatu bahagaze, bakaba bakiriye umurwayi umwe w'umugore, bose bambaye udupfukamunwa, hateretse mudasobwa imwe ku meza ndetse hirya hakaba hari n'undi musaza utegereje ko yakirwa.

Kwa muganga ahavurirwa indwara z'abana ndetse n'abagore batwite baje ari benshi cyane aho bari kwakirwa n'abaganga babiri gusa, ubona ko bakoze cyane ndetse abarwayi bakaba baje kubatera icyugaze.

Umukobwa wambaye agapira k'umutuku, yambaye n'ingutiya y'umukara ngufi cyane akaba ari kuvoma maze ku mugezi avomera mu kijerekani cy'umuhondo kugira ngo ajye gufura imyenda ye yari asigaje.

Umwana muto w'umukobwa wambaye igisarubeti cy'ubururu, yambariye mu nda ishati y'umweru, akaba yambaye n'inkweto za badaboda, ateze amaboko kuri robine iri hagati mu kibuga, ku ishuri yigaho ari gukaraba intoki.

Abantu benshi cyane barimo abatanga serivise z'ubuvuzi, hakaba higanjemo abagangaba, bakaba bari kuvura abantu b'abagabo bambaye amakositime ndetse hariho n'abandi bagabo babiri bari gufotora ibiri kuhabera.

Umugabo w'umwirabura yambaye ishati y'amaboko magufi, irimo uturongo, akaba yaje kuvoma ku mugezi rusange, aho yitwaje ijerekani, kugira ngo abone amaze yo gutekesha ibiryo by'abana be.

Icyumba cyo mu nyubako yo kwa muganga, hari abantu babiri b'abaganga, bose bambaye imibiri yose bikwije, bakaba bambaye udupfukamunwa ndetse n'udusashe mu mutwe, bafite umurwayi umwe w'umukobwa aho muganga umwe muri bo ari kwita kuri uyu mukobwa amupima umuvuduko w'amaraso.

Ni abantu batandatu barimo batanu bakuru ndetse n'umwana umwe ukiri muto, bicaye mu rogo imbere y'inzu aho inzu yabo ihomeye, hakaba hari n'undi mugabo w'umushyitsi wambaye umupira w'umutuku.

Umusore ufite umusatsi mwinshi cyane wa gasunzu, yambaye amadarubindi ndetse n'ishati y'umweru, iruhande rwe hakaba handitseho amagambo y'Icyongereza mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu aya magambo asobanura ko bagomba kwita ku buzima bwo mu mutwe kuri buri muntu.

Umusore uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri, akaba afite umusatsi mwinshi, yambaye ubusa, bakaba bamufungiranye mu nzu bamwambitse amapingu mu maguru, bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe.

Abantu benshi cyane biganjemo abakuru, dore ko bose ubona ko bajijutse, ariko umwe muri bo akaba yazanye n'umwana muto, bose bakaba bafite amadarapo y'u Rwanda bayazamura bishimye cyane, ubona ko bishimye kandi bafite ubuzima bwiza.

Abantu benshi cyane bakora muri serivisi z'ubuvuzi cyane cyane, bakaba ari inzobere mu buvuzi bwo mu mutwe, bahagaze bafashe ku gipapuro bari kwifotoza, ubona ko bari bamaze kuganira ku bijyanye n'amasezerano y'ibihugu byombi, kugira ngo bazafatanye mu by'ubuzima.

Inama yahuje abayobozi baturutse mu mpande zose z'isi yiganjemo inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, bateraniye hamwe aho hari abashyitsi batandatu b'imena bari kuganiriza abateraniye muri iyi nama.

Abana bakiri bato ubona ko biga mu mashuri y'inshuke, bamwe bambaye impuzankano abandi ntazo bakaba bari guseka cyane ubona ko bafite amenyo meza, bigaragara ko ababyeyi babo babitayeho bakiri batoya.

Umugabo wambaye agapira k'umutuku k'amaboko magufi, akaba yafashwe n'inzego zishinzwe umutekano ubwo yashakaga kwiba, bisa naho afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, cyane ko adatinya kwiba mu ruhame.

Umugore ubona ko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, yambaye igitenge, akaba yambaye n'umupira w'amaboko maremare, aho yicaye mu nzu iwe yigunze munsi y'idirishya akaba adashobora kujya hanze aho abandi bari.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe mu nzu y'inama, ahabereye imyiyerekano ijyanye n'uburyo bwo kwita ku buzima bwo mu mutwe, imbere yabo hari umugore ufite imarete na mikoro, akaba ari kumwe n'undi mukobwa bari gukinana umukino.

Abantu benshi cyane, bateraniye mu nzu imwe. Bakaba ari inzobere mu by'ubuzima, cyane cyane ubuzima bwo mu mutwe, bicaye mu ntebe z'ibyuma zifite imifariso iri mu mabara y'ubururu ndetse n'umutuku, imbere yabo hakaba hari umugore uri kubaganiriza.

Abantu benshi cyane barimo urubyiruko ndetse n'abakozi, bambaye imyenda y'umukara hasi ndetse n'imipira y'ubururu, harimo n'umugabo w'umudaso, bakaba baje gutera ibiti mu buryo bwo kubungabunga ibidukikije.

Umukobwa wambaye ipantaro y'ikoboyi, yambaye n'isengeri y'umukara. Afite imisatsi isanzwe, yambaye udushanete mu kuboko kwe kw'ibumoso. Akaba yicaye mu ntebe ubona ko yishimye cyane, abona ko atanga urugero rwiza rw'abantu bafite amenyo meza.

Umugabo w'umwirabura uri mu kigero cy'imyaka mirongo itanu n'umwe, afite ubwanwa bwakuze cyane bwakurumbye ndetse n'imisatsi ikaba yaramwereyeho, akaba yambaye ishati y'umukara idaheruka kumeswa cyane ko ari umurwayi wo mu mutwe.

Umugabo w'umwirabura ugaragara nk'ufite amenyo meza cyane ko yayitayeho akiri muto. Afite umusatsi n'ubwanwa bwo hasi yambaye n'agapira k'umuhondo, urabona ko yishimiye cyane kuba afite amenyo ameze atya.

Umugabo wambaye agapira k'ijezi k'ubururu gaciyemo uturongo dutatu tw'umweru, akaba akenyeye igitenge, aho yicaye mu nzu bamufungiranye ndetse banamuziritse amaguru bisa naho afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe cyane ko bamusize wenyine.

Abanyeshuri biga muri kaminuza, bicaye mu ishuri bakaba bafite buri wese ikayi n'ikaramu imbere ye. Mu gihe abo ku ntebe y'imbere bafite n'amatelefone, hakaba hari n'umugabo wambaye ikoti uri kubigisha.

Abantu benshi cyane biganjemo urubyiruko bateraniye hamwe. Bambaye udupira tw'umukara tw'amaboko magufi ubonako dusa n'impuzankano. Bakaba baje ku kibazo kijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe aho baganirizwa n'inzobere.

Umugabo muremure wambaye ishati idozwe mu gitenge akaba yambaye n'ipantaro y'itise, ahagararanye n'undi mugabo wambaye imyenda yacikaguritse, akaba afite umusatsi wamwereyeho bisa naho afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe.

Abantu babiri b'abaganga bakora muri serivisi zita ku buzima bwo mu mutwe ni umugabo n'umugore, umugabo yambaye umupira w'umukara mu gihe umugore yambaye ishati ikozwe mu gitenge, akaba afite mikoro ari nawe wahawe ijambo.

Ni abantu babiri bari kwa muganga. Umugore w'umuganga wambaye agapira k'umukara, akaba afite n'ibisuko ari kuganiriza umukobwa wambaye ikanzu y'ubururu, ubona ko ashobora kuba afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe kuko afite udupupe ari gukinisha.

Umugabo wambaye ingofero iri mu ibara ry'impuzankano ya gisirikare, yambaye n'umupira utukura, akaba ari kumwe n'umuganga w'umukobwa wambaye amarinete ubona ko ari kumuganiriza nk'aho afite ikibazo cyo mu mutwe.

Abantu benshi cyane biganjemo abakora mu nzego z'umutekano ariko bakaba n'inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bwo mu mutwe, bahuye baraganira ubwo rero bakaba bari kwifotoza ifoto y'urwibutso rw'uyu munsi.

Igipapuro kiri mu mabara y'umweru, icyatsi, ndetse n'umutuku. kikaba kiriho umukobwa wambaye agapfukamunwa n'ikote ririho imashini, akaba yiteze n'igitambaro, aho atanga urugero ku bandi, ku buryo bwo kwirinda Covid cumi n'icyenda.

Umugore wambaye ishati idozwe mu gitenge, yambaye n'ishapure akaba ari mu isoko ahacururizwa ibicuruzwa bitandukanye by'ubwiza birimo amavuta n'amasabune, ubona ko afite ubuzima bwiza bwo mu mutwe kuko ameze neza.

Umukobwa mwiza cyane ubona ko yishimye kandi anezerewe, yambaye ikanzu y'umukara ndetse n'umupira w'umutuku w'amaboko maremare, akaba yicaye kwa muganga ahatangirwa serivise z'ubuzima bwo mu mutwe.

Abana bato biga mu mashuri abanza, bambaye imipira y'umuhondo, bakaba bambaye ibipapuro mu mutwe ubona ko bishimye cyane aho baje muri sitade kureba umukino w'amakipe abiri y'umupira w'amaguru.

Umugore wambaye umupira urimo uturongo tw'umuhondo n'umukara. Akaba yambariyeho inyuma umupira w'amaboko maremare w'ikote, yikoreye igitebo kirimo imigatagata, akaba afite n'isuka mu ntoki, aho ageze ruguru yiwe, akaba afite inzu isakaje amategura.

Umugabo w'umwirabura, bigaragara ko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, yambaye ibyenda byacikaguritse, akaba yicaye ku muhanda aho yambaye urukweto mu kuguru kumwe, iruhande rwe harambitse ibintu by'imyanda.

Umutwe umuntu urimo ubwonko, bukaba buri mu ibara ry'umutuku, mu gihe undi mutwe wo uri mu ibara ry'ubururu, bigaragaza ko bashatse kugaragaza cyane cyane ubwonko, aho ubwonko ari igice cy'ingenzi mu mubiri w'umuntu.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bakaba bari bari kwiga ku buzima bwo mu mutwe, buri wese afite agacupa k'amazi ndetse umwe muri bo afite fanta, baje bitwaje mudasobwa bari bwandikemo amasomo y'ingenzi bacyuye.

Umugabo w'umwirabura wambaye igishati kinini cyane gihinahinnye, akaba afite uburwayi bwo mu mutwe, yegamye ku gikuta giteye irangi ry'umweru, akaba araramye ari kureba mu izuba, ubona ko nta cyizere cy'ubuzima yifitiye.

Abantu benshi cyane biganjemo inzobere mu buvuzi cyane cyane ubuvuzi bw'ubuzima bwo mu mutwe, bakaba bahuriye hamwe mu nama, aho buri wese yari afite agacupa k'amazi ariko kunywa, kuri ubu bakaba bahagurutse bari gususurutsanya.

Abagore batatu buri wese akenyeye igitenge, bambaye udupira tw'amaboko magufi bakaba biteze ibitambaro mu mutwe buri wese afite inkoni, umwe muri bo akaba ateruye umwana ari kumwoza yamuhengetse cyane, bisa naho afite ikibazo cyo mu mutwe.

Inyubako nziza cyane iteye amarange y'umweru, ikaba irimo amatara y'akataraboneka, irimo utubati tw'umweru, intebe, Mudasobwa ndetse na televiziyo, byose byifashishwa na muganga iyo ari kuvura abarwayi amenyo.

Abana bato biganjemo abakobwa biga mu mashuri abanza. Bambaye impuzankano, buri wese afite uburoso bw'amenyo buriho n'umuti w'amenyo, akaba ari koza amenyo neza cyane, aho bahawe amabwiriza n'abarimu kugira ngo bite ku menyo yabo uko bikwiye.

Umugabo wambaye imyenda bajyana mu bwogero y'umukara, akaba ari kwireba mu ndorerwamo iwe mu rugo nyuma yuko avuye koka umubiri wose, akaba ari koza amenyo yifashishije umuti ndetse n'uburoso bw'amenyo.

Umugabo w'umwirabura wita ku menyo ye cyane, afite amenyo yererana cyane, afite umusatsi muke n'utwanwa duke cyane, afite akadodo kabugenewe k'umweru ari kwifashisha asukura amenyo ye.

Umugabo ufite amenyo meza cyane. Afite ubwanwa buke, bwogoshe, akaba ari guseka, ndetse afite akadodo kabugenewe, bifashisha abasokura amenyo ndetse uyu mugabo yambaye ubusa hejuru, akaba yitereye n'isume ku rutugu.

Abaganga b'inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo, benshi bateraniye hamwe kwa muganga, aho buri umwe yakiriye umurwayi umwe, ku ruhande hakaba hari umukobwa wambaye agapfukamunwa ndetse n'uturindantoki, ari gusuzuma umukobwa mugenzi we.

Umukobwa w'imibiri yombi ufite amenyo meza cyane, ahagaze yambaye ubusa hejuru, afite umusatsi usanzwe, akaba ari kwereka abantu amenyo ye, mbega abereka ko yayitayeho.

Umugabo w'umwirabura ufite amenyo meza, afite akantu k'agaparasitike kariho akadodo ari kugenda acisha hagati mu menyo ayasukora kuko atifuza gukoresha uburyo busanzwe bw'uburoso n'umuti w'amenyo.

Umugabo ufite amenyo meza cyane ni umwirabura afite ubwanwa buke n'umusatsi muke akaba yambaye ubusa hejuru. Afite akadodo gato k'umweru akaba ari kugakoza mu menyo agenda akuramo imyanda ayasukura neza.

Ni abantu babiri bari mu bitaro umwe ni umurwayi w'umugabo, afite umusatsi muke n'ubwanwa. Akaba aryamye ku gitanda cy'abarwayi, aho ari kumwe n'umugore w'umuganga wambaye uturindantoki tw'ubururu ari na we urikumuteramo insimburangingo z'amenyo.

Ni mu nyubako y'ivuriro ahantu bigira kuvura amenyo, hari abantu babiri, umwe yambaye isaha, karavati ndetse n'ishati y'umweru ubona ko bimukwiye cyane, akaba ari kwigisha mugenzi we gukura amenyo, aho bafite insimburangingo z'amenyo.

Umugore wambaye agasengeri k'umweru, ni umugore w'inzobe akaba yiteze igitambaro cy'umweru. Aho ari kwireba mu ndorerwamo, ari koza amenyo ye yifashishije umuti w'amenyo, ndetse n'uburoso bwabugenewe.

Umugore ufite ikibazo cy'amenyo yagiye kuyikuza kwa muganga aho yakiriwe n'abaganga babiri, bamuryamishije ku gitanda cy'abarwayi akaba ari kwitabwaho na muganga w'umugore wambaye agapfukamunwa aho ari kumukura iryinyo.

Abantu benshi cyane b'urubyiruko ndetse n'abakuze, bari kwifotoza ubona ko bishimye cyane. Aho bari bavuye munsi mpuzamahanga, wahariwe kwita ku buvuzi bw'amenyo na bo bakaba batahanye impamba y'inama.

Umusore w'umwirabura ufite amenyo meza cyane y'umweru wererana, afite agasatsi gake akaba afite n'akadodo gato kabugenewe bakoza mu menyo bayasukura umwanya wo gukoresha umuti w'amenyo ndetse n'uburoso bwabugenewe.

Umugabo w'umwirabura uri mu kigero k'imyaka mirongo ine. Akaba afite umusatsi muke nta bwanwa na buke afite, aho ari kwireba mu ndorerwamo yisukura amenyo ye akoresheje akadodo kabugenewe.

Umwana muto w'umukobwa, afite agatambaro mu mutwe, yambaye agasarubeti k'agakanzu, akaba yambariye mu nda agapira gato k'umweru aho afite uburoso bw'amenyo ubona ari kubukoza mu kanwa yishimye cyane ariko nta menyo aramera.

Umugabo ufite amenyo meza yambaye amadarubindi akaba ari useke, afite ubwanwa yambaye n'umupira w'umweru, aho yatunze urutoki mu kanwa yereka abantu urugero rwiza rw'amenyo yitaweho.

Abagabo babiri b'abasaza bambaye ingofero z'urugara, umwe yambaye n'amadarubindi, bakaba bakenye bikomeye, aho baje mu bukwe bw'abana babo basezeranye imbere y'Imana, ndetse baka bifuje kubashyigikira.

Umugabo ushaje wambaye amadarubindi, afite agasatsi gake n'ubwanwa buke, yambaye ishati itukura akaba yaje kwa muganga kwisuzumisha umuvuduko w'amaraso, yakiriwe n'umukobwa w'umuganga aho yamuziritse ikintu ku kuboko akaba ari kumusuzuma.

Umugabo w'umusaza wambaye agapira k'umweru, yambaye ipantaro y'umukara, akaba yararwariye kwa muganga, kuri ubu aho ari koroherwa, akaba ari kumwe n'umuganga uri kumufasha kugenda, bisa naho agiye gukira.

Umusaza ugeze mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu. Yambaye ishati ya kaki, akaba afite ubwanwa bw'imvi, aho yaje kwa muganga, yakiriwe n'umukobwa wambaye itabuririya y'umweru. Akaba ari kumupima umuvuduko w'amaraso.

Umukecuru ufite imvi z'uruyenzi, yambaye agapira k'amaboko magufi k'ubururu ndetse n'amadarubindi. Akaba azaniye umusaza amazi mu kirahure cy'umweru aho amusanze ku buriri cyane ko umusaza arwaye atabasha kugenda.

Abantu babiri, ni umukecuru wambaye amadarubindi ufite imvi ndetse n'umukobwa we ariko bajya kungana. Baricaye mu rugo bari gutegura amafunguro. Ubona ko bishimanye cyane. Mu gihe uyu mubyeyi ari we uri gukata imboga.

Abagabo babiri bari mu zabukuru bari gutembera mu muhanda w'amabuye hagati mu ishyamba, bafatanye ku rutugu ubona ko ari inshuti magara kuva mu bwana kuko barishimanye ubona ko baziranye cyane.

Biba byiza iyo umuntu mukuru n'umwana bakinnye bakisanzuranaho byongera urukundo hagati yabo cyane nk'iyo ari umupapa n'umwana we, by'umwihariko w'umukobwa birushaho gutuma biyumvanamo.

Umusaza n'umukecuru bari mu rugo, umusaza yambaye agapira k'umukara ndetse n'ishati ya karokaro inyuma, akaba ari kumwe n'umukecuru mu rugo aho bari kurya amafunguro, uyu musaza afite isahani iriho amafunguro menshi, akaba ari kugenda ayagabagabanya udusahane tubiri kugira ngo babone uko barya basangiye.

Umukobwa muto uri mu kigero cy'imyaka itanu, ari kumwe na mama we aho bambaye imyenda y'umweru isa neza cyane, bakaba bari bari mu nzu bari gukina atuntu barambuye ku meza, inzu yabo iteye amarange y'umweru bakaba bafite na televiziyo.

Abagore bageze mu zabukuru, bambaye ingutiya z'umukara ndetse n'imipira y'umweru, bamwe muri bo, bambaye n'ingofero z'urugarabona. ubona ko bari gukina biyibutsa imikino yo mu bwana bwabo.

Umusaza wambaye ipantaro y'itise n'ishati y'umweru, afite imvi z'uruyenzi, aho ari kurya capati asangira n'abuzukuru be babiri b'abakobwa, mu gihe umwe muri bo afite n'akadomoro karimo igikoma.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe biganjemo abakuru bakora mu nzego z'ubuzima ndetse n'abandi batandukanye, aho bari imbere y'igisharagati kiri mu mabara y'idarapo ry'u Rwanda, bakaba baje mu nama yiga ku iterambere ryabo muri rusange.

Abantu babiri, ni umusaza n'umukecuru, bicaye mu rugo iwabo, bakaba bafite impapuro nyinshi cyane, bandikiwe na muganga, aho bari gusoma amakuru yose yaba ariho kugira ngo bamenye uburyo bwiza bwo kwiyitaho muri iki gihe bagezemo.

Umukecuru n'umusaza ubona ko bishimanye cyane aho bashakanye bakundana. Bari mu rugo iwabo bakaba bari gukina umukino aho batondetse utuntu ku meza bakaba bari kudukoramo inyuguti, ubona ko umukecuru ari gutsinda umusaza.

Abagore babiri bisobanukiwe bakaba bakora imyitozo ngororamubiri, umwe yiteze agatambaro k'umutuku mu gihe undi afite ibisuko, bakaba bari gutembera mu kayira nyuma yuko bavuye gukora imyitozo ngororamubiri, bari bazindutse mu museso.

Umugabo w'umusaza ufite inda nini yambaye umupira w'amaboko maremare, afite ubwanwa akaba yicaye mu nyubako yo kwa muganga, aho yakiriwe n'umuganga w'umukobwa wambaye impuzankano y'abaganga aho yamwakiriye neza cyane.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe mu birori by'abana babo bashyingiranywe imbere y'Imana. Imbere hari umukecuru warimbye bikomeye ndetse n'umusaza witeye umukenyero ubona ko aribo babyeyi bakuru.

Umugabo w'umwirabura wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ikora ry'ubururu, kakaba karimo imirongo y'ubururu n'umweru, ari gukina umukino wa dame n'undi mugabo utagaragara mu maso, ariko ubona ko yatsinze kuko arishimye cyane.

Umugabo wambaye amadarubindi, ubona ko afite imvi z'uruyenzi, yambaye ishati y'umutuku afite ikaramu mu ntoki, ndetse n'igitabo cyanditsemo amasomo atandukanye ahabwa cyane cyane abageze mu za bukuru abafasha kutibagirwa.

Abakecuru batatu ubona ko bishimye cyane ndetse bakaba basobanutse cyane ko bazi gukoresha ikoranabuhanga mu buryo butangaje. Umwe muri bo hagati yambaye umupira w'umuhondo akaba afite telefone ari gufotora bagenzi be.

Ni umuryango wishimye cyane urimo umusaza, n'umukecuru, abana babo barimo umugabo ndetse n'umugore yashatse, hakaba hari n'abuzukuru babo bicaye ubona bishimye cyane.

Abakecuru babiri bishimanye cyane, umwe yambaye amadarubindi, afite imvi z'uruyenzi, mu gihe undi ataragira imvi nyinshi cyane mu musatsi, bari kumwe mu gikoni, bakaba bari gutegure amafunguro aho bibanze cyane cyane ku mboga.

Abakecuru batatu bicaye kumwe mu nzu barimo bakina amakarita, umwe afite imisatsi yabaye imvi, mu gihe abandi ubona ko bakiri bato mo gake kandi bakaba bishimanye cyane bishimiye uyu mukino bari gukina.

Abantu babiri ni umukecuru ubona ko ari mu kigero cy'imyaka mirongo itanu n'itanu. Afite inkoni y'icyuma, yambaye agashanete mu izosi. Akaba yicaranye na muganga w'umusore ufite ubwanwa bwinshi, bisa naho ari we umaze iminsi amuvura.

Umusaza wisobanukiwe akaba akora imyitozo ngororamubiri. Yambaye amarinete, atwumvirizo mu matwi ndetse akaba afite imvi, aho ari guterura ibyuma bibiri mu maboko yombi ubona ko ari kunanura imikaya ye.

Umusaza ufite imvi zabaye uruyenzi. Yicaye mu bwogero. Akaba ari kozwa n'umukecuru we, aho yamusize isabune nyinshi mu mutwe ndetse akaba yafunguye n'amazi ari guturuka hejuru. Akaba ari kumukarabya neza cyane.

Umukecuru ufite imvi zabaye uruyenzi, arwariye kwa muganga, akaba yambaye ishati y'abarwaye y'umweru, aho ari kumwe na muganga w'umukobwa umwitaho wambaye ishati y'icyatsi, akaba ari kumucunga mu kagare bishimanye.

Umugabo w'umusaza wambaye amadarubindi. Afite imvi z'uruyenzi. Akaba yicaranye n'umukobwa we, wambaye umupira w'umuhondo w'amaboko maremare, aho ari kumupfundurira ibinini, akaba ari no kumusomera amabwiriza y'uburyo azabinywa, mu ikayi ibari imbere.

Ni abantu babiri umugore n'umugabo, umugore ni umuzungu mu gihe umugabo ari umwirabura, bakaba bari gukora imyitozo ngororamubiri aho bari kwiruka mu muhanda mu buryo bwo kugabanya ibinure mu mubiri wabo.

Umukecuru uri mu kigero cy'imyaka mirongo irindwi afite umusatsi w'imvi, yambaye amadarubindi, akaba yicaye ku gitanda cyo kwa muganga, aho afite ikirahure cy'amazi mu ntoki, ari kunywa imiti kugira ngo abashe koroherwa.

Umukecuru ugeze mu zabukuru akaba afite umusatsi muke asa n'urwaye Kanseri, yambaye ishati y'umweru, akaba yicaye afite ikirahuri cy'amazi, hakaba hari undi mukobwa wambaye impuzankano y'abaganga, uri kumuhereza imiti mu ntoki kugira ngo anywe.

Inyubako iri mu mabara atandukanye yiganjemo ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, ikaba yubatse mu buryo bw'uruziga, hariho umukobwa uhagaze wambaye ijipo, hejuru hakaba hariho amagambo atandukanye mu rurimi rw'icyongereza avuga ko ari umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya diyabete.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bakaba bari kwifotoza, muri bo hari n'inzego z'umutekano zirimo DASSO n'abandi. Inyuma yabo hari igipapuro kinini cy'ubururu cyanditseho amagambo atagaragara neza.

Igipapuro cy'umweru kigaragaza uburyo bwo kurwanya icyorezo cya korona, harimo gukaraba intoki, gukoresha ikoranabuhanga bishyura, guhana intera, kwambara udupfukamunwa, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Igipapuro kiri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'ubururu, cyanditseho amagambo atandukanye ari mu ibara ry'umukara, aho yanditse mu rurimi rw'Icyongereza asobanura ko ari Umuryango Mpuzamahanga ukorera ku Isi hose wita ku buzima.

Igipapuro kiri mu mabara y'umweru, move ndetse n'icyatsi, kikaba cyanditseho amagambo atandukanye mu rurimi rw'icyongereza, ateguza igikorwa nyamukuru kizaba ku itariki makumyabiri n'icyenda z'ukwa karindwi, mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri.

Igipapuro kiri mu ibara ry'icyatsi n'umweru kiriho ibirango by'ibigo bitandukanye mu Rwanda, kiriho ikirango cya kaminuza y'u Rwanda, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, Ikigo cy'umuryango Mpuzamahanga wita ku buzima ndetse n'ibindi.

Abantu benshi cyane biganjemo urubyiruko, bahuriye imihanda, bambaye imipira y'umweru bakaba afite ibipapuro, imbere byanditseho ngo twerinde kanseri y'ibere tuyisuzumishe hakiri kare kuko ivurwa igakira.

Inama yahuje inararibonye baturutse mu bihugu bitandukanye, bijyanye n'ubuzima, ubona ko bitabiriye ari benshi, imbere hari abashyitsi bahire batandatu. Hakaba hari n'icyapa kiri mu amabara y'icyatsi ndetse n'ubururu, kigaragaza intego nyamukuru y'iyi nama.

Abantu babiri bakora muri serivise z'ubuvuzi kwa muganga, ni umukobwa wambaye ikanzu n'inkweto za shinga ndetse n'umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ikote. Bose bambaye amakarita y'akazi mu ijosi.

Amagambo y'Icyongereza yanditse mu ibara ry'umweru, asobanura abanyarwanda bafite ubuzima bwiza, hejuru hakaba hari inyuguti ya h, hakaba hari ibiganza bifatanye ndetse n'indi nyuguti ya r.

Abakobwa benshi cyane bambaye imipira y'umweru. Bose bakaba bafite ibisuko by'umukara. Bicaye mu ntebe za palasitike. Aho bari muri sale nini cyane. Imbere yabo hakaba hari umukobwa mugenzi wabo uri mu myerekano ndetse n'undi uri kumufotora.

Umugabo wumwirabura, ufite umusatsi w'agasunzu. Ntabwanwa afite, yambaye ishati y'umweru, iruhande rwe hari igipapuro cy'umutuku, cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru, bigaragaza ko ari igikorwa kizaba ku itariki mirongo itatu z'ukwacumi.

Abantu benshi cyane bakora muri serivisi z'ubuvuzi by'umwihariko abakora mu bijyanye no kurwanya icyorezo cya covid cumi n'icyenda. Bicaye hanze, aho bakiriye abarwayi batandukanye. Buri muntu yakiriye umurwayi umwe, bose bakaba bambaye udupfukamunwa birinze cyane.

Umugabo uryamye hasi ku ngobyi ya kizungu, ari mu mucaca, yambaye ishati ya karokaro aho ari kwitabwaho n'abaganga bane, umwe yambaye ijire, mu gihe undi mukuru wabo ari kubarebera.

Abantu bane barimo abihayimana b'abamasera batatu bambaye n'imyenda yabo, bari kumwe n'umugabo wambaye ikositime, aho bari gusuhuzanya na we, inyuma yabo ku gikuta hari ikirangantego cy'u Rwanda handitseho na Repubulika y'u Rwanda.

Abantu bicaye hamwe n'umugabo wambaye ishati y'umweru, umugore we ndetse n'abana babo batatu bambaye impuzankano ari bwo bakiva ku ishuri bari kuganira ku buryo butandukanye, babigishije bwo kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Abantu benshi cyane bakora mu nzego z'ubuvuzi, bateraniye hamwe mu nama, buri wese yitwaza ikayi n'ikaramu byo kwandikamo ibitekerezo by'ingenzi. Iyi nama, ikaba iraba iminsi ibiri, ku itariki makumyabiri na makumyabiri n'imwe z'ukwakane, mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Utuntu twinshi cyane turambitse hasi, tukaba ari utuhure tw'umweru turiho igipapuro cy'umweru, kigaragaza ko utu turimo urukingo ndetse n'ibipimo byifashishwa mu gupima icyorezo cy'Ubushita bw'inkende.

Abaganga batandatu bambaye imibiri yose bikwije, bambaye ibisashe by'umweru, uturindantoki tw'umweru ndetse bakaba bambaye n'udupfukamuwa aho bari mu nyubako yo kwa muganga, inyuma yabo hari undi mugabo wambaye agapfukamunwa uri gutambuka.

Igipapuro cy'umweru kiriho amagambo atandukanye mu rurimi rw'Icyongereza, ariho akandi kantu kari mu mabara abiri: icyatsi ndetse n'umutuku kinyuramo, kakaba gasobanura uburyo bwo kurwanya SIDA mu bana bakiri bato.

Ukuboko k'umuntu w'umukobwa ariko w'umwirabura, kukaba kuriho ibintu by'ibiheri usa naho yafuruswe, wagira ngo ikinyabwoya cyamubabye cyangwa se akaba ari ubushita bw'inkende bwamufashe.

Icyumba cyo kwa muganga giteye amarangi y'umweru, kikaba kirimo ibitanda byinshi cyane by'abarwayi, bisasheho amashuka y'umweru, hakaba hariho n'inzitiramibu zikoranye umuti kuri buri gitanda.

Inyubako nini cyane ni igorofa igeretse gatanu, ikaba iteye amarange meza cyane y'umweru, irimo ibirahuri bibonerana imbere hakaba hari ubusitani burimo imikindo ndetse n'ibindi bimera bitandukanye.

Inyubako nshyashya izajya itangirwamo serivisi z'ubuvuzi. Iteye amarangi y'umweru, ikaba irimo intebe z'imifariso ziri mu mabara y'umukara ndetse n'ubururu, iyi nzu irimo amakaro meza cyane ndetse n'ibirahuri by'akataraboneka.

Inyubako nziza cyane itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ikaba iteye amarange y'umuhondo, iriho ibirahure byiza bibonerana imbere. Irimo umuryango w'inzugi zikozwe mu mbaho, imbere mu mbuga hakaba harimo amapave.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, ipantaro y'itise, yicaye ku masikariye y'amabuye munsi y'igiti kinini cyane cy'inganzamarumbo. Aho yugamye izuba mbere yuko ajya kwa muganga kugira ngo yitabweho cyane ko arwaye.

Inyubako nziza ubona ko iteye amabengeza. Ni inyubako ifite isuku, iteye amarangi meza cyane, ifite ibaraza, ikaba irimo inzugi n'amadirisha biteye irangi ry'umweru. Imbere hakaba hari ubusitani burimo indabo zitandukanye ndetse n'imikindo.

Ni kwa muganga ahari icyumba giteye amarangi y'umuhondo, hakaba harimo igitanda cy'abarwayi, kiryamyeho umugore ubona ko arembye cyane, hari abaganga babiri umwe w'umugore wambaye itabariya y'umweru, uri gukora kuri uyu murwayi mu gihe undi ahagaze abarebera.

Mu nyubako nziza cyanye y'ubuvuzi, iteye amarangi y'umweru irimo amakaro abonerana cyane. Harimo intebe eshatu z'abarwayi, ziriho imifarisi y'umuhondo. Ndetse n'agatebe kamwe ka muganga, hakaba hari n'ibindi bikoresho bitandukanye muganga yifashisha, avura amenyo.

Inyubako nini cyane y'igororofa, yubakishije amatafari ya ruriba, ikaba ari ivuriro itangirwamo serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, inyuma yayo hakaba hari ubusitani bugari cyane bw'akataraboneka.

Inyubako nini cyane yagutse, yubakishije amatafari ya Ruriba uruhande rumwe, ikaba iteye amarangi y'umweru ndetse n'ay'ubururu, iyi nyubako ni ibitaro bya Nyarugenge, imbere ifite imbuga ngari irimo amapave ndetse hakaba hari n'ubusitani.

Ahantu hitaruye cyane hari imbuganga ngari, haparitse ibinyabiziga byinshi ndetse inyuma yabyo hakaba hari inyubako ndende y'igorofa, igeretse kane, iteye amarage y'umweru, ikaba ikorerwamo n'abaganga.

Inyubako y'akataraboneka, icururizwamo imiti itandukanye. Ikaba irimo akabati k'umweru, karekare. Kagiye gapanzemo imiti mu byiciro. Iri mu mabara atandukanye, imbere hakaba hateretse intebe ya parasitike.

Mu nyubako yo kwa muganga ahatangirwa serivisi zitandukanye zo gupima abarwayi, aho hari icyuma cyabugenewe bifashisha bapima abarwayi uburwayi by'umwihariko bufata mu mubiri indani kugira ngo barebe niba babavura bagakira cyangwa se hari ukundi bafasha abarwayi.

Ibitaro byiza bifite inyubako z'akataraboneka, inyubako imwe iteye amarangi y'umweru, ikaba irimo ibikoresho bitandukanye birimo ibitanda by'abarwayi, ameza, mudasobwa utugare, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Kwa muganga icyumba kiza kirimo amakaro. Hakaba harimo intebe eshatu z'imifariso ndetse n'amezi atatu mu mabara atandukanye, harimo indabo ziri mu mavaze ubona ko hateguranywe ubwenge n'ubushishozi.

Ni mu ivuriro ahari inyubako nyinshi cyane zifashishwa mu kuvura abarwayi, zimwe ziteye amarangi y'umweru, mu gihe izindi zigaragaza amatafari, hari inzira y'abanyamaguru irimo amapave ku ruhande hakaba n'umucaca.

Inyubako y'akataraboneka yubakishejwe amakoro, ikaba irimo amadirishy arimo ibirahuri by'umukara byijimye cyane, ifite ibaraza ry'inzira riyizenguruka, hakaba hari kugendamo abantu babiri bakora kwa muganga, umwe yambaye itaburiya y'umweru.

Inyubako yo kwa muganga icyumba kimwe gitangirwamo serivisi z'amaso, harimo amadarubindi yifashishwa n'abantu bafite ikibazo cy'amaso hakaba hari n'amafoto ariho abantu bambaye amadarubindi.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ikaba ifite icyapa hejuru cyanditseho izina iyo nyubako ko itangirwamo serivisi zitandukanye, ikanagurishirizwamo imiti, inyubako ifite urugi runini rurimo ibirahuri bibonerana.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga kikaba ari cyo babagiramo abarwayi, hari irange ry'umweru hakaba harimo umuryango w'inzugi ebyiri zirimo ibirahure by'umweru ariko utaboneramo imbere, hejuru hakaba handitseho amagambo y'Icyongereza.

Inyubako yo kwa muganga ikaba ipimirwamo ibizamini byafawe abarwayi, yubakishije amatafari ahiye ifite n'ibaraza rinini cyane ririmo intebe, riteye amarange y'umuhondo n'umweru, iyi ntebe ikaba yicayeho abarwayi bakeneye serivisi.

Inyubako yo kwa muganga yubakishije amatafari ahiye y'impunyu isakaje amabati y'ubururu, ifite ibaraza rinini cyane imbere yayo hari ubusitani bw'umucaca ndetse n'indabyo hakaba hari na kandagira ukarabe.

Inyubako nziza cyane y'ubuvuzi iteye amarange y'umweru, ikaba irimo amadirishya menshi iruhande rwayo hari ubusitani, hakaba hari inzira y'abanyamaguru irimo amapave, iri kunyuramo umukobwa uri mu kagare k'abafite ubumuga.

Inyubako nini cyane y'ivuriro, ahavurirwa by'umwihariko abana bakiri bato, cyane ko tuhasanga n'ibipupe birimo utunyamasyo n'ibindi, iki cyumba giteguwe neza kirimo amarangi y'icyatsi, umuhondo, ubururu n'umutuku ndetse hakaba harimo n'izindi ntebe zitandukanye.

Icyumba cyiza cyo kwa muganga, giteye amarange y'umweru, icyatsi ndetse n'ibara rijya gusa n'umuhondo, kiririmo parafu y'umweru ndetse n'amatara y'akataraboneka, kikaba kizajya cyakirirwamo abarwayi bakigera kwa muganga.

Inyubako nini cyane yo kwa muganga akaba ari ahatangirwa serivise z'amaso harimo amadarubindi menshi cyane, iyi nzu ikaba yubakishije ibirahuri gusa kuko umuntu uri inyuma aba ari kubona ibikorerwa mu nzu byose.

Icyuma cyiza cyane cyifashishwa na muganga yita ku barwayi, aho hari ibyuma byinshi byo guterurwa n'abakora imyitozo ngororamubiri, akaba abiha abarwayi akeka ko bafite ikibazo cyo kuba bafite ingingo zidakora neza kugira ngo binanure.

Igorofa nziza cyane igeretse kabiri, ikaba ari ibitaro byitiriwe umwami Faisal biherereye i Kigali, imbere y'iyi nyubako hari imbuga ngari iparitsemo ibinyabiziga ndetse ku muhanda hakaba hari abantu bari kugenda.

Inyubako yo kwa muganga ni igorofa, ikaba ifite korodoro nini cyane kandi ndende, iteye amarangi y'umweru irimo amatara y'akataraboneka, ikaba irimo inzu n'ibirahure byiza bibonerana, ikaba irimo n'amakaro.

Inyubako nini cyane y'akataraboneka iteye irange rijya kuba ikijuju irimo amadirishya atatu, hejuru handitseho amagambo y'Icyongereza asobanura ko ari ikigo cy'Igihugu gishinzwe kurwanya Kanseri.

Inyubako nini cyane yubakishije amatafari ya ruriba, ikaba isakaje n'amabati asa n'aya matafari, irimo amadirishya mato menshi y'umukara arimo ibirahure, haruguru yayo hakaba hari ubusitani burimo umucaca utarakura neza.

Mu cyumba cyo kwa muganga aho abarwayi barwarira harimo igitanda kimwe cy'abarwayi gisasheho neza amashuka y'umweru, harimo mudasobwa ebyiri zifashishwa na muganga ndetse hakaba hari n'idirishya umuntu anyuzamo areba hanze.

Ahantu heza cyane hari ubusitani bw'akataraboneka, hari inzira z'abanyamaguru zirimo amapave y'amatafari, ndetse n'andi akozwe muri sima akikijwe n'ibisima biri mu mabara y'umukara n'umweru, hirya hakaba hari inzu nziza cyane z'ubuvuzi.

Ku marembo yinjira mu bitaro by'igihugu, hari umuntu ushinzwe umutekano, hakaba hari n'icyuma cya gasopo, muri ibi bitaro haparitse imodoka hakaba hari urujya n'uruza rw'abantu aho hari n'inyubako z'ibitaro zikorerwamo n'abaganga batanga serivisi z'ubuvuzi.

Inzu yo kwa muganga ikaba ari icyumba gitangirwamo serivisi z'amaso. Harimo amadarubindi menshi cyane ahabwa abantu bafite ikibazo cy'amaso, hakaba hariho n'ifoto y'umukobwa wambaye amadarubindi.

Ibitaro bya Ruhengeri birimo inyubako nyinshi cyane, bikaba bifite igipangu cy'ibyuma kiriho inkingi zubabakishije amatafari ahiye, biri impande y'umuhanda aho haba hari urujya n'uruza rw'abantu bagenda banyuranyuranamo buri munsi.

Inyubako nziza ikaba ari ivuriro. Ni ikigo nderabuzima cya Rwerere, yubakishije amatafari. Hejuru iteye irangi ry'umweru, ikaba iriho n'umurasire w'izuba uzana umuriro.

Abantu benshi cyane bahuriye ku kigo nderabuzima, bakaba bahagaze imbere y'inzu aho bakirira abagana ikigo nderabuzima, benshi muri bo ni abagore ese umwe muri bo ahetse umwana bakaba bategereje abaganga.

Umugore w'umuganga uri mu nyubako yo kwa muganga, afite imisatsi miremire y'ibisoko, afite iherena, amadarubindi ndetse n'agapfukamunwa k'umukara, akaba ari gukoresha mudasobwa ndetse yambaye n'itabuririya y'umweru.

Abantu benshi cyane biganjemo abazungu, bambaye neza cyane, ubona ko bishimanye bakaba ari inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi, bari kwifotoza iruhande rw'igisima cyanditseho ngo ibitaro bya Butaro mu ururimi rw'Icyongereza.

Inyubako icururizwamo imiti, aho ikorana n'ikigo nderabuzima cya Leta, hariho icyapa kigaragaza izina ryayo mu rurimi rw'Icyongereza, aho ari inyubako y'umuntu witwa Muteteri, hari na nimero ya telefone wamuhamagaraho.

Icyumba kinini cyane kiri mu nyubako yo kwa muganga, giteye amarangi y'umweru kikaba kirimo amatara atatu arikubonesha urumuri rwiza, hari amadirisha abiri abonesha urumuri rwo hanze, hakaba harimo n'ibindi bikoresho byinshi cyane.

Abantu batatu barimo umuganga umwe wambaye agapfukamunwa, amadarubindi ndetse n'agasashe mu mutwe akaba yambaye itaburiya y'umweru, ari kuvura umwana muto uri mu kigero cy'amezi atatu, aho ateruwe na mama we wamuzanye kwa muganga.

Umwana muto wambaye agakositime k'umukara, akaba ari gusunika papa we ufite ubumuga aho yicaye mu kagare k'abafite ubumuga, akaba amuzanye hano kwa muganga, aho bakiriwe n'umuganga w'umugore ugiye kubitaho.

Icyumba cyo kwa muganga giteye amarangi y'umweru, kikaba kirimo igitanda cy'abarwayi, mudasobwa, televiziyo, intebe ndetse n'ibindi bikoresho muganga yifashisha ari kwita ku barwayi bamuganye.

Inyubako yo kwa muganga irwariyemo abarwayi babiri, buri wese akaba aryamye ku gitanda ke, aho hari umusaza ubona ko arembye cyane, ndetse ikindi gitanda hakaba hari undi ubona ko akiri muto ndetse we akaba ashobora kuba yorohewe.

Igitanda cyiza cyane cyo kwa muganga kiri kumwe n'ibindi byinshi bisashe nka cyo, bikaba biri mu nzu nziza iteye amarange anoze ndetse muri iyi inzu hakaba harimo n'ibindi bikoresho nka mudasobwa ndetse n'intebe.

Ni mu bitaro ahari icyumba cyiza cyane, giteye amarangi y'mweru, hakaba harimo ibikoresho bitandukanye, birimo ameza abiri, imeza imwe ikaba iteretseho ibikoresho bitandukanye byifashishwa na muganga, hakaba harimo n'ibindi byuma bibiri bimeze nka firigo.

Kwa muganga inyubako nziza cyane iteye amarangi y'umuhondo, ikaba irimo intebe ebyiri z'imifariso, aho irimo inzugi n'amadirisha by'ibirahure gusa, hakaba hari na korodoro imbere yayo ndende irimo amakaro.

Inyubako ebyiri z'ibitaro zisakaje amabati atukura, ziteye amarange y'umuhondo, zifite imbuga ngari ahari imihanda inyuranyuranamo ya kaburimbo, haparitse imodoka eshatu ndetse hari n'abarwayi baje kuhivuriza.

Ni mu cyumba kimwe ahakirirwa abarwayi kwa muganga, hari intebe nziza, uruhande rumwe rwicayeho umugabo, urundi rwicayeho umugore, hakaba hari undi mugabo bari kwakira aho yakiriwe n'umuganga ukora ahakirirwa abantu baje kwivuza bwa mbere.

Umugore w'umuganga wambaye imyenda y'umutuku, yambaye n'agapfukamunwa yakamanuye ku kananwa aho yambaye n'amadarubindi ari gupima umukecuru kugira ngo arebe niba yaba afite ikibazo cy'uburwayi bw'umuvuduko w'amaraso.

Mu nyubako yo kwa muganga, ahari ibyuma bitandukanye byifashishwa na muganga mu kwita ku barwayi. Hakaba hari ikigega kibika amazi, Mudasobwa, akagare, akabati, amafirigo ndetse n'ibindi byose.

Ni mu kigo cy'amashuri abanza ahari umwana wambaye impuzankano y'ishuri irimo ishati y'icyatsi, akaba ari kumwe n'umuganga ukora mu bitaro bya Kaminuza wambaye n'itaburiya y'umweru, ufite insimburangingo z'amenyo ari kumwereka uburyo amenya avurwa n'uburyo aba ateye.

Inyubako yo kwa muganga aho abarwayi barara, hari ibitanda byinshi cyane by'abarwayi bikaba nta na kimwe kiryamyeho umuntu. Ibitanda bigiye bitandukanywa n'amarido meza cyane atabonerana kugira ngo umurwayi abe atabona mugenzi we mu gihe baryamye.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga, ikaba ari igorofa iteye amarangi ajya kuba umukara, imbere ku marembo handitseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ndetse hakaba hari n'ubusitani.

Inyubako nziza cyane ikaba ari igorofa igeretse rimwe, iteye amarangi y'umweru, ikaba isakaje amabati y'ubururu. Ni ikigo nderabuzima cya Kanyinya, imbere hari umuhanda hakaba hari n'idarapo ry'u Rwanda.

Inyubako nyinshi cyane mu kigo nderabuzima, zikaba zitaruye zitandukanye, cyane ko iki kigo nderabuzima ari kinini, inyubako imwe ifite ibaraza, hakaba hari kugendamo n'abantu, hagati yazo zikaba zitandukanyijwe n'umucaca mwiza cyane utoshye.

Inzu nziza cyane iri mu mabara atandukanye, yiganjemo umuhondo, umweru, icyatsi ubururu n'umutuku, ikaba ari inzu yo kwa muganga aho izajya yakirirwamo abana bakiri bato ndetse n'abagore batwite.

Abagabo babiri b'abaganga bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'udupfukamunwa, bakaba bari mu cyumba cy'ivuriro aho bakorera. Bari gukoresha imashini iri imbere yabo y'umweru ikoresha umuriro w'amashanyarazi ndetse hakaba harimo na mudasobwa.

Icyumba kimwe mu nyubako yo kwa muganga, giteye amarangi y'umweru, kikaba kirimo icyuma kiza cyane kifashishwa mu gupima uburwayi burimo umubiri, aho umuntu aryama bagapima igice yaba arwaye.

Inyubako nziza cyane y'ubuvuzi, ni igorofa ikaba igereretse kane, iteye irangi ry'umuhondo, ikaba icururizwamo imiti itandukanye, imbere yayo hari imbuga irimo amapave, hakaba haparitse n'imodoka ebyiri.

Mu kigo nderabuzima hari ibyicungo byiza cyane byifashishwa n'abarwayi cyane cyane b'abarwayi baba batangiye koroherwa kugira ngo bongere bamenyere Isi isanzwe, nyuma yo kuba bavuye kwa muganga bamaze igihe badakora imyitozo ngororamubiri.

Ibikoresho byinshi cyane byo kwa muganga, biri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku, bikaba biri mu nyubako yo kwa muganga, irimo amakaro meza cyane y'umweru, aho byose byifashishwa n'abaganga, mu gihe bari kwita ku barwayi babagannye.

Abantu babiri umugore n'umugabo, umugore ateruye umwana akaba ahagaze ku ibaraza ry'inzu y'igorofa igeretse rimwe, aho bategereje kugira ngo bakirwe na muganga abiteho cyane ko barwaye.

Inyubako nziza kwa muganga itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, iteye irangi ry'umuhondo ikaba irimo idirishya rimwe, iriho ibaraza rito ndetse ku ruhande hakaba hari inzira y'abanyamaguru iri gucamo n'umugabo w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru.

Icyumba kimwe, mu nyubako yo kwa muganga. Giteye amarangi y'umweru, kikaba kirimo igitanda kiryamyeho umuntu mu muhezo, iruhande rwe hari ibindi byuma by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu kumwitaho, bisa n'aho arwaye indwara z'ibyorezo.

Icyumba cyo mu nyubako yo kwa muganga, giteye amarange y'umweru, akaba harimo n'amatara meza cyane, yayandi atica amaso, harimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga. Birimo mudasobwa ndetse n'ikindi cyuma bifashisha bapima abarwayi.

Ni inyubako nini cyane y'igorofa igereretse gatanu, ikaba irimo ibirahure byiza cyane by'akataraboneka, hasi ku muhanda hakaba hari ubusitani burimo ibiti bidafite amababi ndetse n'icyapa cyanditseho cumi na kabiri kigaragaza izina ry'iyi nyubako.

Inyubako yo kwa muganga irimo intebe ndetse n'ibitanda byifashishwa na muganga. Izi ntebe zose ni iz'ibyuma zikaba ziriho imifariso iri mu ibara ry'icyatsi.

Inyubako nziza y'igorofa akaba ari inyubako y'ivuriro y'ibitaro byiza bya Shyira, igeretse rimwe, ikaba iteye amarangi y'umweru, irimo amadirisha n'inzugi byo mu mabara y'umukara, ikaba isakaje n'amabati atukura.

Icyumba cyo kwa muganga gipimirwamo ibizamini, harimo umuganga wambaye agapfukamunwa k'umutuku n'itaburiya y'umweru, uri gukoresha mudasobwa apima ibizamini yaharambitse, hirya hakaba hari n'abandi bantu benshi.

Ibitanda byinshi cyane biri mu nyubako yo kwa muganga, bikaba ari ibitanda by'abarwayi ariko byose nta murwayi n'umwe ubiriho, ibi bitanda bisashe neza, biriho amashuka y'umweru n'imisego ndetse bikaba bifite za mudasobwa hagati ya buri gitanda.

Icyuma kiza cyane cyo kwa muganga kifashishwa mu gufata amafoto mu mubiri rwagati, kikaba gisa n'umweru aho harimo umugabo w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru uri gusasaho igitambaro umurwayi ari buryameho.

Inyubako y'ivuriro mu igorofa igeretse kabiri. Ikaba iteye amarangi y'umweru ku ruhande rumwe, irimo inzugi nini cyane ziteye amarangi y'icyatsi. Iyi nyubako ikaba icururizwamo imiti itandukanye. Imbere yayo hari imbuga ngari iparitsemo imodoka.

Umugabo w'umusaza wambaye ishati itukura, yambaye amadarubindi, akaba yaje kwa muganga kwivuza umuvuduko w'amaraso. Yakiriwe n'umukobwa w'umuganga, ufite imisatsi isanzwe, aho yamuziritse ikintu ku kuboko ndetse akaba ari nabwo buryo bwo kumupima.

Umugabo ukora imyitozo ngororamubiri cyane cyane akina umupira w'amaguru, yambaye agapira k'icyatsi k'amaboko magufi kamufasha cyane, akaba afite n'umupira akunda gukina iyo ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa usanzwe akora imyitozo ngororamubiri yazindutse mu museso yiruka none ubu akaba ananiwe, yambaye isengeri imufashe yatereye isume ku rutugu akaba ari kunywa amazi mu icupa.

Umugabo wambaye agakabutura ndetse n'agasengeri by'umukara byose, yicaye ku ntebe akaba ari kunywa amazi aho yari amaze gukora imyitozo ngororamubiri. Iruhande rwe hahagaze undi mukobwa na we bakoranaga imyitozo, wambaye agakabutura n'agasengeri.

Umukobwa w'imibiri yombi usanzwe akora imyitozo ngororamubiri, ari kunywa amazi mu gacupa yambaye ekuteri ndetse akaba yambaye n'ikintu ku kuboko babikamo telefone, iyo bari gukora imyitozo ngororamubiri.

Abantu bane bari mu cyumba kimwe kwa muganga, bakaba barimo umuganga umwe wambaye itaburiya y'umweru, hakaba harimo abagore batatu n'umwana umwe, umugore umwe ateruye umwana bakaba bari kumusuzuma mu kanwa ngo barebe niba nta kibazo afite.

Umugabo wari urwariye kwa muganga, yambaye ishati y'icyatsi, akaba yicaye mu kagari k'abafite ubumuga ubona ko ashobora kuba yaragize ikibazo cy'ingingo atabasha guhagarara, ari kwitabwaho na muganga, aho yamuhaye ibyuma byo guterura kugira ngo akomeze imikaya ye.

Abagabo babiri bambaye amajire y'umutuku, bakaba bateruye umusore wambaye ipantaro ndetse n'umupira w'umuhondo wanditseho nimero gatatu, aho avunitse nyuma yuko yari ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Abantu bakora imyitozo ngororamubiri cyane cyane abakina umupira w'amaguru, baba bafite umupira wabugenewe bakina ndetse n'inkweto bifashisha bakina uwo mupira kuko utajyanamo izibonetse zose.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abantu bakora imyitozo ngororamubiri, baba bari kwiyitaho cyangwa se kwita kuri bagenzi babo, birimo imiti, imakasi, uturindantoki, itoroshi, ipombo ndetse n'ibindi byinshi.

Udukoresho tubiri twifashishwa n'abantu bafite ubumuga bw'ingingo cyane cyane iz'amaguru, tuzwi nk'imbago aho batwifashisha ndetse banakora imyitozo ngororamubiri, cyane cyane ku bantu bafite ubwo bumuga.

Abakobwa benshi cyane b'urubyiruko bari gukina imikino ya basket, bakaba bambaye imyenda isa irimo amasengeri y'umweru n'amakabutura y'umukara, ubona ko bishimye cyane, inyuma yabo hari abantu bari ku bafana.

Ikizingo kifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri bapfuka cyangwa bazirika ahantu hafite ikibazo ku mubiri ndetse n'igikarito kiri mu mabara y'umweru n'umukara, iki kizingo kivamo birambitse hasi aho bagiye kuvura umuntu.

Umugabo w'umwirabura ukora imyitozo ngororamubiri, afite amaboko abyibushye ndetse n'amatuza abyibushye, akaba ari mu gihe cya mu gitondo ku gasusuruko aho ari kwisukaho amazi.

Ikirahure gito giteretse hasi ku meza, kikaba kiri gusukwamo amazi n'indi jage nini cyane iri hejuru, ifashwe n'ikiganza cy'umuntu utagaragara ubona ko ari amazi meza cyane y'urubogobogo.

Abagabo bane bari gukora imyitozo ngororamubiri basiganwa ku maguru, bose bambaye amakabutura, bakaba bambaye n'imipira y'amaboko maremare, ubona babukereye, aho bari kuzenguruka ikibuga cy'umupira w'amaguru.

Umukobwa ubyibushye cyane, akaba asanzwe akora imyitozo ngororamubiri. Uyu munsi mu museso ubwo yayikoraga, yagize ikibazo cyo gutsikira mu ivi. Kuri ubu akaba yaje kwitabwaho na muganga, aho aryamye ku gitanda cy'abarwayi.

Umusore w'umwirabura ufite amatuza abyibushye ndetse n'amaboko abyibushye, ari gukora imyitozo ngororamubiri aho yaryamye hasi ku mukeka. Akaba ari kunanura amaguru n'amaboko icyarimwe kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Akagare gato gafite amapine ane kakaba ari akuma gafite ibara ry'umutuku, hakaba hariho n'ahantu umuntu yicara ndetse n'utuntu afataho kugira ngo mu gihe ahicaye abe atagwa hasi.

Umugabo wari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ikabutura y'umweru n'umupira w'umukara, akaba ari gufashwa n'umugabo usanzwe afasha abandi bakora imyitozo ngororamubiri, aho ari kumugorora akaguru.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye ipantaro y'umukara irimo akarongo k'umweru ku ruhande, yambaye inkweto zifunze ndetse n'isengeri y'umukara, afite amatuza n'amaboko bibyibushye akaba afite n'utwumvirizo mu matwi.

Akuma kifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri, babapima ibirometero bagiye birukanka ndetse n'igihe byafashe babyiruka, kakaba karimo imibare igaragaza umunota umwe n'amasegonda mirongo ine n'abiri.

Agacupa gato ka palasitike gafite akantu k'umutuku ahagana ku munwa, kari gusuka amazi mu kirahuri cyiza cyane kibonerana cy'umweru, ubona ko ari amazi y'urubagobogo abantu bagiye kunywa nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri.

Akagare k'abafite ubumuga, gafite amapine abiri manini n'utundi dupine dutoya, kakaba kicarwaho n'umuntu ufite ikibazo cy'amaguru, aho aba atabasha guhagarara ariko abasha kwicara, noneho undi muntu akamusunika mu kagare.

Igipapuro cy'umweru cyanditseho amagambo yo mu rurimi rw'Icyongereza, aho cyamamariza umuntu ufite inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri witwa Viateur Nshimyumuremyi.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye ikabutura ndetse agasengeri k'icyatsi, imbere ye handitseho amagambo mu rurimi rw'icyongereza asobanura ibyiza byo gukora imyitozo ngororamubiri, aho akangurira n'abandi kuyikora.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri ariteri, afite amatuza manini ndetse n'amaboko abyibushye, imbere ye akaba hari ibiryo akwiye kurya ndetse anagira inama abandi bose bakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bazajye babirya, birimo inanasi, amagi, imboga n'imbuto.

Imashini nziza cyane yifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri, ahanini mu gupima amasaha baba bamaze bakora iyo myitozo cyangwa se kureba nk'ibirometero baba birutse mu gihe baba bari gukora imyitozo ngororamubiri ibasaba kwirukanka.

Umugabo usanzwe azwiho gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agasengeri k'ibyatsi akaba yambaye n'agatambaro ka move mu kuboko kwe kw'ibumoso, ari kwimenaho amazi mu mutwe amanuka no mu mubiri, ahandi hose nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri.

Ni abantu babiri bari bari gukora imyitozo ngororamubiri, ubwo bakinaga umupira w'amaguru, umwe muri bo wambaye amasogisi y'umukara yaguye atsikira akaguru, kuri ubu akaba ari kwitabwaho na mugenzi we agenda amunanura mu mavi.

Umugabo usanzwe akora imyitozo ngororamubiri, ni umwirabura yambaye umupira w'amakoboko magufi w'umukara, akaba ari mu kigero cy'imyaka mirongo ine, afite agacupa ka parasitike ari kunyweramo amazi.

Inyubako ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, harimo igitanda kiryamaho ukora imyitozo ngororamubiri, akaba za mudasobwa zifashishwa mu kumupima, zireba imbaraga yakoresheje ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umukobwa ukora imyitozo ngororamubiri ubona ko yarambutse neza cyane bishoboka, yambaye ipantaro y'icyatsi ndetse n'agasengeri k'icyatsi kamufashe, akaba afite umusatsi usanzwe, aho yicaye hasi ko mukeka yarambuye amaguru n'amaboko.

Abantu babiri bari mu nyubako ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, ni umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri aho ari gukoresha ikirenge ke yicaye ku ntebe yabugenewe ndetse n'umuganga umuhagaze impande wambaye itaburiya y'umweru ari na we uri kumubwira ibyo akora.

Ibiribwa bitandukanye birebwa n'abantu bakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza, birimo ibikomoka ku matungo birimo amagi, amafi, ndetse n'inyama, imbuto zirimo imineke, amapera ndetse n'inkeri, hakaba n'imboga zitandukanye.

Umukobwa wambaye ipantaro imufashe cyane, yambaye agasengeri k'umukara kamuhambiriye amabere, akaba yicaye hasi kuri tapi aho ariho gukora imyitozo ngororamubiri, imbere ye hateretse mudasobwa ndetse n'agacupa k'amazi.

Abantu babiri bahagaze mu kibuga ahakorerwa imyitozo ngororamubiri. Umwe ni umugore ubyibushye, akaba afite akagare k'amapine ari kugenda kamuyobora kugira ngo atagwa, imbere ye hari undi mugabo wambaye ikabutura y'umukara, afite n'imipira bifashisha bakina umupira w'amaguru.

Abantu babiri umwe wambaye kimono z'umweru undi iz'ubururu, bakaba bari gukirana aho bari mu kirangantego cy'ikigo cy'Igihugu cya Judo mu Rwanda.

Ibyuma bitandukanye byifashishwa bipima abarwayi ndetse n'abandi bose bakora imyitozo ngororamubiri, hari kimwe gipima ugutera k'umutima, igipima umuvuduko w'amaraso ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ibiribwa bitandukanye biribwa n'umuntu umaze gukora imyitozo ngororamubiri by'umwihariko ku bantu baterura ibyuma, twavuga nk'imineke, amaronji, imboga zitandukanye zirimo Kokombure n'ibindi.

Umukobwa mwiza cyane ukora imyitozo ngororamubiri, ateye neza cyane, yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agasengeri kamufashe, akaba yaryamye agaramye hasi ku mukeka, aho ari guhina ivi akarambura akundi kuguru.

Umwana waruri gukora imyitozo ngororamubiri yatsikiye ku gatsinsino kuri ubu akaba yaje kwa muganga, yicaye ku gitanda cy'abarwayi aho ari kwitabwaho na muganga amupfuka kugira ngo arusheho gukira.

Umugabo w'umwirabura uri kunywa amazi muri gurude y'ubururu, akaba yitegeye izuba rirenga, cyane ko ari mu gihe cy'umugoroba, aho yari amaze gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo w'umwirabura yicaye hasi mu mucacaba, akaba yambaye isengeri y'umukara n'ipantaro y'umukara ndetse'inkweto zifunze z'umukara aho ari gukora imyitozo ngororamubiri, arambura amaguru n'amaboko icyarimwe.

Umugabo wari usanzwe akora imyitozo ngororamubiri, yagiye kwa muganga aho yagiye kwitabwaho na muganga aryamye ku gitanda cy'abarwayi akaba yakiriwe na muganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse akaba ari kugenda amukandakanda ku ivi.

Umugabo w'umuganga ufite umusatsi mukeya, yambaye itaburiya y'umweru ndetse n'uturindantoki tw'umweru, akaba ahagaze mu nzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, aho afite igipirizo cy'umutuku, iruhande rwe ku gikuta hakaba hari kizimyamwoto.

Mu cyumba kwa muganga, aharwariye umukobwa ufite ikibazo cy'ukuguru ubona ko kwangiritse cyane bakaba baranamuteze ibyuma, aryamye ku gitanda cy'abarwayi, hakaba hari n'abantu benshi bamushungeye baje kumusura.

Inyubako nziza ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, irimo utugare, intebe, ibitanda, ibipirizo ndetse n'ibindi byinshi byifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo barusheho kuyikora mu buryo butandukanye.

Inyubako ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, harimo ameza y'umweru akaba arambitseho ibikoresho byinshi cyane byifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri. Birimo ibyuma baterura, isaha,, metero ndetse hakaba hari n'umuntu uri kwandika mu ikaye.

Imiti ivura by'umwihariko abantu bakora imyitozo ngororamubiri, iba iri mu byiciro bitandukanye. Twavuga nk'ibinini, aho usanga bisa n'umweru, umuhondo ndetse n'indi batera mu nshinge.

Umugabo w'umuganga wambaye ishati y'ubururu, yambaye n'ikarita y'akazi mu ijosi, akaba ari kunanura umugore waje amugana, wambaye ipantaro y'umukara uryamye ku gitanda cy'abarwayi, ari kumunanura amaguru, mu buryo bwo kumukoresha imyitozo ngororamubiri.

Umupira ukinwa mu mukino wa Rugby mu bantu baba bari gukora imyitozo ngororamubiri ufite amabara atandukanye, ukaba uri hamwe n'akandi gakoresho kifashishwa na muganga iyo ari gupima ugutera ku mutima.

Umugabo w'umwirabura wambaye ikabutura y'umukara, akaba afite ibintu bimushushanyijeho ku ivi biri mu mabara y'umutuku ndetse n'icyatsi, bisa n'aho yatsikiye akaba yishyizeho ikimenyetso kereka muganga ahari ikibazo.

Umugabo ukora imyitozo ngororamubiri, yari ari gukora imyitozo ngororamubiri none ubu akaba aratsikiye, aho yunamye afashe mu ivi kugira ngo yumve niba abasha kongera gutera intambwe cyangwa agiye guhamagara imbangukiragutabara.

Umukobwa umwirabura, ukora imyitozo ngororamubiri. Yambaye ipantaro y'umukara, yambaye n'agasengeri gato, aho yarambuye umukeka hasi ku makaro, akaba yahinnye ukuguru yarambuye ukundi, ubona ko agororotse bikomeye.

Akantu gato k'umweru, kakaba kifashishwa n'abantu bakora imyitozo ngororamubiri. Kariho urutsinga rw'umweru, kakaba kariho akantu kari gucucumura imyotsi, bisa naho bagatera umuntu ufite ikibazo cyo kwahagira cyane.

Umusore w'ibigango ukora imyitozo ngororamubiri, afite ubwanwa ndetse n'umusatsi wa gasunzu, akaba ari kunywa amazi mu gacupa ka parasitike, afite amatuza ndetse n'amaboko abyibushye, akaba yatereye furari y'umweru ku rutugu.

Hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri, twavuga nk'uturindantoki, imakasi, ibipfuko, uducupa tw'imiti ndetse n'ibindi byose bitandukanye biba ngombwa ngo ukore imyitozo ngororamubiri byose ubifite.

Umugabo wari uri gukora imyitozo ngororamubiri yakuyemo inkweto yari ari gukorana, ndetse azinga tapi, arambikana n'ibyuma yateruraga. Kuri ubu akaba afite ibyo agiye kurya birimo imboga n'imbuto ndetse n'ibinyampeke nk'ubunyobwa kugirango ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Umugabo ukora imyitozo ngororamubiri, yagize impanuka nuko avunika mu itako, kuri ubu akaba ari kwitabwaho na muganga kugira ngo arebe niba yasubirana ubuzima buzima cyane ko yangiritse bikomeye.

Umusore wambaye agapira k'umweru, akaba asanzwe akora imyitozo ngororamubiri, kuri uyu munsi akaba yavunitse akaboko, aho yaje kwa muganga kugira ngo yitabweho, bakaba bamuhaye akantu k'ubururu aba arambitse ahavunitse.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umweru imufashe cyane, yambaye n'agasengeri gato k'umweru kamuhambiriye amabere, akaba yicaye ku musambi hasi akora imyitozo ngororamubiri, aho ari kunanura amaguru n'amaboko icyarimwe.

Ni abantu babiri, umugore n'umugabo basanzwe bakora imyitozo ngororamubiri, bose ni abazungu bakaba bari kunywa amazi mu ducupa twa palasitike, nyuma y'uko bari bamaze gukora imyitozo ngororamubiri bakaba bananiwe.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, akaba yambaye ishati y'umweru na karuvati aho afite akantu kifashishwa mu gupima gutera k'umutima mu ijosi, akaba afashe n'umupira wifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri, twavugamo amacupa aba arimo imiti, amakayi n'amakaramu, imakase, ama ga ndetse n'ibindi byinshi cyane bitandukanye.

Ikirahuri gito giteretse ku meza kikaba kiri gusukwamo amazi n'undi muntu utagaragara, aho turi kubona ikiganza gusa gifashe ijagi, gisuka amazi muri icyo kirahure aho amazi ari urubogobogo.

Abana bari gukina umupira w'amaguru, umwana uri guriterura ibyuma, uri kwiruka ku njangwe, uri kwinanura ndetse n'undi wicaye, bose bagaragaza uburyo butandukanye abana bakoramo imyitozo ngororamubiri ndetse n'abandi bakuze.

Akuma keza cyane gakozwe mu cyuma cya Aluminium. Gafite hasi palasitike y'umukara, hejuru hakaba hari umukondo w'umukara na wo wa palasitike uriho n'akagozi kifashishwa iyo bari ku kamanika nko ku gikuta.

Umukobwa wambaye ipantaro y'icyatsi imufashe cyane imeze nka kola, yambaye amasogisi y'umweru ndetse n'inkweto zifunze, yambaye agasengeri gato kamufashe cyane gafashe ku mabere gusa, na ko kari mu ibara ry'icyatsi, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri arambura amaguru n'amaboko.

Akagare kifashishwa n'abana bafite ubumuga bw'ingingo cyane cyane abafite ubumuga bw'amaguru, gafite amapine abiri manini n'utundi dupine tubiri duto tw'imbere, kakaba kiganjemo ibara ry'umukara aho kifashishwa n'abafite ubumuga kugirango ngo babone uko bagenda.

Umukobwa akaba menyerewe mu bijyanye n'imikino njyarugamba, aho akora imyitozo ngororamubiri yitoza ndetse animenyereza, ubu akaba yatsikiye aho ari kwa muganga ari kwitabwaho n'abaganga.

Ikirenge cy'umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri. Ubona ko gikomeye cyane, gifite imitsi, gishushanyijeho ibimenyetso bibiri mu mabara y'icyatsi ndetse n'umutuku. Byose byitaje akabombampore.

Umugabo w'umwirabura ufite ubwanwa buke, akora imyitozo ngororamubiri kuri ubu aho yari yazindurutse mu gasusuruko, none ubwo izuba rirashye arataje ariko mbere yo gutaha akaba ari kunywa amazi mu gacupa ka palasitike.

Agakapu gatoya k'umutuku kakaba kabikwamo telefone yifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri mu gupima ugutera k'umutima, kakaba karambitse ku meza iruhande rwako hari n'ikindi gipupe cy'umuntu.

Ikimera cyiza cyane gitoshye gifite amababi ameze nk'ay'urunyanya ariko kikaba atari urunyanya, kiratoshye giteye iruhande rw'inzu aho gikurwaho imiti gakondo itandukanye.

Umugabo wambaye akagofero k'abayisilamu, akaba acuruza imiti gakondo ifite akamaro gatandukanye mu buzima bwa muntu, hasi hakaba handitseho ngo amakuru kunoza urwego rw'ubuvuzi gakondo.

Ironji risatuye riri kumwe n'indimu ndetse n'andi maronji menshi cyane adasatuye, birambitse hasi ku meza, aho byifashishwa babikoramo imiti gakondo ivura indwara nyinshi.

Igihingwa cyiza cyane gitoshye kikaba gifite amababi maremare. Ameze nk'ay'isombe ariko yo akaba asongoye cyane. Kikaba gikurwamo umuti gakondo ufasha cyane cyane mu kugabanya ububabare.

Amacupa menshi cyane y'ibirahuri abonerana, amwe afite imipfundikizo y'umweru mu gihe andi afite imipfundikizo y'umutuku, aya macupa yose agiye arimo imiti gakondo itandukanye yifashishwa mu kwita ku barwayi.

Abantu batandatu bafite uruhu rurwaye. Harimo abagore babiri, abana babiri ndetse n'abagabo babiri ubona ko bangiritse cyane ku ruhu, iruhande rwabo hakaba hari uducupa tubiri turimo umuti gakondo ukozwe mu gikakarubamba uvura izi ndwara barwaye.

Utujerekani tubiri tw'umuhondo, uducupa dutatu tw'umweru, ndetse n'ibindi bikarito biri mu mabara y'umweru ndetse n'aya move, byose birimo umuti gakondo, bikaba biteretse ku meza, hirya y'ameza hakaba hari ubusitani bunini.

Imiti itandukanye gakondo iri ku meza, imwe iri mu kajagi k'umweru kabonerana, irimo ubwatsi ndetse n'indabyo, indi ikaba ari ibinini birambitse ku ndosho ndetse n'indi miti iri mu ducupa.

Amacupa abiri arimo umuti w'umukara, munsi yayo hari irindi cupa ry'umweru, ku ruhande hakaba hari udupaki dutandatu tw'umweru n'utundi tubiri tw'umuhondo dushushanyijeho igikakarubamba, tukaba turimo umuti gakondo ukorwa mu gikakarubamba.

Uducupa tubiri tw'umuhondo, duteretse hamwe dushushanyijeho igikakarubamba, inyuma yatwo hari igikarito cy'umweru kirimo ibara ry'icyatsi, ku rundi ruhande hakaba utundi ducupa tubiri ndetse n'igisashi kinini kirimo umweru n'umutuku, byose birimo umuti gakondo ukozwe mu gikakarubamba.

Agacupa gato, gakozwe mu cyuma, kari mu ibara ry'umutuku, kanditseho amagambo y'icyongereza, mu ibara ry'umweru, kakaba karimo umuti gakondo, wifashishwa n'abantu bakora imyitozo ngororamubiri ahanini.

Icupa rya palasitike ribonerana rifite umupfundikizo w'umuhondo, rizengurutswe n'igipapuro kiriho ibara ry'umweru kikaba gishushanyijeho umuravumba ndetse handitseho n'ijambo ry'Ikinyarwanda ngo umuravumba.

Agacupa gato kari mu ibara ry'umweru, karimo umuti gakondo w'icyatsi, ukaba ukozwe mu gikakakarubamba ndetse iruhande rw'aka gacupa hari n'igikakarubamba kitarakoreshwa.

Ikimera cy'akataraboneka gifite amababi y'indumane ameze nk'ay'isombe. Kirashishe kikaba gisa n'icyatsi kibisi cyane ubona ko kitaweho neza. Aho gifite n'utuntu tw'imiteja hejuru mu bushorishori bwacyo.

Uducupa tubiri tw'umuhondo turiho igikakarubamba ndetse n'utundi dukarito turi mu mabara y'icyatsi ndetse n'umweru, twose tukaba turimo imiti gakondo bakora bifashishije igikakarubamba.

Igipapuro kiriho imbuto zitandukanye n'ubwatsi butandukanye bukorwamo imiti gakondo, hakaba hariho amacupa y'umweru n'ay'umuhondo, n'ibikarito bibikwamo umuti gakondo ukorwa mu ibi bimera.

Ni utujerekani tune, tubiri dutoya turasa n'umweru. Tukaba turiho igipapuro kituzengurutse cy'umweru, cyanditseho amagambo atandukanye ameze nk'ari ku gipapuro kizengurutse utu tunini tw'umuhondo, twose tukaba turimo umuti gakondo.

Utu ni uducupa tubiri turi mu ibara ry'umuhondo, dushushanyijeho igikakarubamba, iruhande rwatwo hakaba hari ibikarito bibiri biri mu mabara y'umweru, move ndetse n'ubururu, na two turimo imiti gakondo.

Imiti gakondo itandukanye, imwe ikaba iri mu ducupa twabugenewe ndetse n'udusahani iri mu mabara y'umweru, umutuku ndetse n'andi mabara atagaragara neza, ikaba itaratunganywa kugira ngo ibe yakoreshwa.

Abagore bane, bakaba ari abaganga ba gakondo, bagiye mu kinani aho bagiye guhamura imiti gakondo, bakaba bari kuyishakisha ku bwinshi, kugira ngo babashe kuvura abaturage babagana, babiteho uko bikwiye.

Uducupa dutatu tubiri turasa n'umweru akandi kamwe karasa n'umuhondo, iruhande rwatwo hari utundi tuntu tw'udupfunyika tune, na two ducuramye turimo umuti gakondo ukomoka ku gikakarubamba.

Uruzitiro rwa senyenge rukaba rukingiye umuti gakondo witwa umwenya, aho uba ukenewe ku bwinshi ari nayo mpamvu bawuzitiriye kugira ngo abantu batazaza kuwiba dore ko uvura indwara nyinshi cyane.

Umugabo ufite ibiganza by'inzobe. Afite uduti dutatu kamwe kariho igishibu. Akaba yaturambitse mu gasahani k'ikirahure aho agira ngo adukureho uruhu, azadukuremo umuti gakondo yifashisha mu kuvura abantu.

Icyatsi cyiza cyane, gitoshye, icyatsi kibisi cyane, kikaba ari icyatsi gikurwamo umuti gakondo, aho umuntu yaje kukireba akaba akibonye bimugoye, kuri ubu akaba yiteguye kugihamura kugira ngo ajye kwivura.

Ishyamba rinini cyane ririmo ibiti bito bito ariko hakaba harimo bimwe byakuze neza, ubona ko ari ibiti byisa cyane byitaweho, aho bikurwamo umuti gakondo uvura indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero.

Ibimera bitandukanye bikorwamo umuti gakondo, twavuga nk'imicyayicyayi, inteja, ibimera bikura bijya hejuru, cyane by'indabo, amaronji ndetse n'indimu n'ibindi byinshi.

Akadomoro gato kari mu ibara ry'ubururu, gapfundikishije umupfundikizo w'icyatsi, kakaba karimo umuti gakondo ucururizwa ku muhanda, hakaba hari na nimero ya telefone, igaragaza nyirawo ko wamuhamagara mu gihe waba utamubonye kandi umushaka.

Icyatsi cyiza cyane gitoshye kikaba gifite amababi nk'ay'urunyanya, akaba ari icyatsi gikorwamo umuti gakondo wifashishwa ahanini mu kuvura indwara zifata mu ngingo ndetse n'ahandi henshi cyane.

Ibiti binini cyane by'inganzamarumbo biri mu ishyamba rwagati, bikaba byarakuze cyane bigasumba ibindi bigenzi byabyo, aho bihamurwamo umuti bakagenda bakawutunganya ukavura indwara nyinshi.

Udukombe tubiri tw'utuhure tubonerana, tukaba turimo amazi ashyushye bashyizemo umwenya na teyi, duteretse ku meza, ku ruhande hakaba harambitse umuravumba ndetse n'igikakarubamba.

Imiti gakondo itandukanye ikaba yarambitswe ku meza, hejuru y'amakoma. Ikaba iri mu ibyiciro bitewe n'ubwoko bwayo ndetse n'indwara ivura, aho hari n'udusekuro tubiri twabugenewe dusekurirwamo mbere yuko ikoreshwa.

Uducupa tubiri tw'umuhondo, tukaba dufite imipfundikizo y'amarongorwa, tukaba turimo umuti gakondo, inyuma yatwo hari amakarito abiri, ari mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi, na yo arimo amuti gakondo.

Mu ishyamba rinini cyane ririmo ibiti by'inganzamarumbo, ni ishyamba ry'inzitane, aho kurinyuramo bigoye cyane, harimo igiti kimwe cyasumbye ibindi, kikaba gihamurwamo umuti gakondo w'akataraboneka uboneka cyane cyane mu rwanda gusa.

Igikakarubamba giteretse ahantu kikaba gitoshye cyane, ku ruhande hakaba hari inzu eshatu imwe y'igorofa igeretse rimwe iteye amarange y'umweru, mu gihe izindi zitagaragara neza.

Uducupa dutatu tw'umweru, turiho ibipapuro by'umweru, biriho n'andi mabara y'umutuku n'umuhondo, bikaba bishushanyijeho uruyuki n'akandi gacupa karekare k'umukara, birimo umuti gakondo, uturuka ku burabyo ndetse no mu buki.

Agacupa k'umuhondo kariho igikakarubamba ndetse n'utundi ducupa tubiri tw'umweru, turambitse hejuru y'intebe, tukaba twose turimo imiti gakondo ikorwa mu gikakarubamba.

Umuntu ufite akaboko katagaragara neza ariko akaba yambaye umupira w'ubururu w'amaboko maremare, ari gukora ku kimera cy'umusave aho ari gusoroma amababi yacyo ngo ajye kucyifashisha nk'umuti gakondo.

Ikimera cyiza cyane cy'umuravumba, kikaba giteye gitoshye, aho gikurwamo umuti gakondo uvamo imiti itandukanye yifashishwa cyane cyane mu kuvura indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero.

Imiti myinshi itandukanye gakondo, ikaba ikorwa mu umwenya, hari agasekuru gato k'umweru kabugenewe kifashishwa mu gusekura imiti gakondo, ndetse n'uducupa tubiri turimo umuti w'umuhondo umaze gutunganywa.

Ibinini icumi, biri hamwe, kugasashe. Bikaba biri mu ibara ry'umuhondo, aho iruhande rwabyo, hari agakarito bibikwamo, gasa umuhondo ndetse kamanuyeho ibara ry'icyatsi, kakaba kanditseho amagambo asobanura igikakarubamba.

Ni agacupa gatoya k'icyuma kariho umupfundikizo w'umweru, kakaba karimo umuti gakondo ukomoka ku buki, kakaba kariho n'igipapuro cyanditseho amagambo y'Icyongereza ndetse hashushanyijeho n'akanyoni.

Ibimera byiza cyane bivamo imiti gakondo twavuga nk'umwenya, igikakarubamba, umuravumba, kapusini, lavender ndetse n'ibindi byinshi cyane bikorwamo imiti gakondo y'akataraboneka ikoreshwa hano mu Rwanda ndetse n'imahanga.

Ikimera cyiza cyane cya kapusine gifite uburabyo bw'umweru, umutuku n'umuhondo, kikaba gitoshye uruhande rumwe mu gihe urundi ruhande ubona ko kititaweho neza ariko kikaba kivamo umuti gakondo.

Udupaki dutandatu tw'umweru, turiho amabara y'icyatsi, tukaba dushushanyijeho n'igikakabamba, aho turimo umuti gakondo, ukozwe mu gikakarubamba, wifashishwa mu koza amenyo ndetse n'ibindi.

Ikimera kiza cyane gitoshye, kikaba kivaho imbuto za marakuca aho gikurwaho amababi akifashishwa nk'umuti gakondo uvura indwara zitandukanye, nk'ibicurane ndetse n'inzoka zo mu nda.

Imbuto z'ibihingwa bitandukanye ziri mu bihoho. Aho zibanza kwinikwa zikamera, zigakora neza kugira ngo babe bajya kuzitera mu murima mugari na zo zizatanga umusaruro mwiza.

Uducupa twinshi cyane turimo utw'ibyuma ndetse n'utwa pulasitike turi mu mabara atandukanye umweru, umutuku, icyatsi ndetse n'umukara, twose turimo umuti gakondo uturuka ku ikawa.

Uducupa dutatu tw'umweru, tukaba turiho igipapuro gishushanyijeho uruyuki ndetse kikaba cyanditseho amagambo atandukanye, ku ruhande hari irindi cupa rinini ry'umukara ndetse n'indabyo zitandukanye z'umuhondo, zose zifashishwa nk'umuti gakondo.

Uducupa twinshi cyane turi mu mabara y'umweru, tukaban turiho igipapuro cy'umweru na cyo cyanditseho amagambo atandukanye, utu ducupa turimo umuti gakondo aho uvura indwara zitandukanye z'ibyorezo.

Imiti myinshi cyane gakondo itandukanye, barayihamuye, barayanika iruma neza, kuri ubu hakaba hari agasekuru gato kabugenewe k'umweru bagiye kuyisekuriramo bakayihindura ifu kugira ngo bayikoreshe.

Igikakarubamba kiza cyane gitoshye, kikaba kiri kumwe na voka ebyiri, imwe irasatuye bigaragara ko ari voka ya kizungu, indi ikaba idasatuye bisa naho itarashya, byose bikaba byifashishwa nk'umuti gakondo.

Mu ishyamba ry'inzitane, ahakurwa ndetse hakanahamurwa imiti itandukanye gakondo, hari umuti mwiza cyane utoshye, bisa naho ushishe cyane nkaho nta muntu urawuvumbura ngo abe yatangira kuwuhamuraho.

Abantu benshi cyane baturutse impande zose. Bari gutembera mu murima uhinzemo ibikakarubamba. Abenshi muri bo bakaba bambaye imipira y'ubururu ndetse n'icyatsi, bigaragara ko ari abantu b'inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi gakondo.

Icyatsi kiyiza cyane kitwa umufumba kiratoshye kikaba gifite ingingo, ubona ko gihishe cyane bisa naho ari igishibu, akaba ari icyatsi kivamo umuti gakondo uvura indwara zitandukanye.

Igikarito cy'umweru kirimo ibara ry'umutuku riciyemo umurongo, kikaba cyanditseho amagambo atandukanye mu rurimi rw'Icyongereza aho kirimo mille gram magana atanu z'umuti gakondo.

Iduka ricuruza imiti gakondo itandukanye, hari akabati k'umweru gapanzemo imiti myinshi cyane yiganjemo iri mu macupa y'umweru ndetse n'iri mu macupa y'umuhondo, byose bikaba bivura indwara nyinshi cyane z'ubuhumekero.

Agacupa kabonerana k'umweru, kakaba gafite umupfundikizo w'icyatsi, kariho igipapuro kikazengurutse kiri mu ibara ry'icyatsi n'umweru cyanditseho umuravumba, bigaragara ko aka gacupa karimo umuti gakondo ukozwe mu muravumba.

Ibikoresho bitandukanye bitunganyirizwamo umuti gakondo ndetse bikaba byarahoze bikoreshwa kera muco nyarwanda birimo akeso, isekuru, igicuma ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye birimo n'inzu y'abakuru.

Agacupa k'umweru kariho igipapuro cy'umutuku cyanditseho amagambo atandukanye ndetse n'umugabo n'umugore, bahagararanye, umugabo ari inyuma y'umugore, hakaba handintseho amagambo ko ako gacupa karimo umuti gakondo uvura indwara zitandukanye zijyanye n'inshingano z'urugo.

Inzu icururizwamo imiti gakondo itandukanye, ikaba ipanze mu kabati k'umweru aho iri mu macupa ari mu mabara atandukanye, harimo amacupa y'ibyuma, amacupa y'amavide, amacupa ya purasitike ndetse n'utundi dukombe.

Agacupa gato k'umweru gapfundikishije umupfundikizo w'umweru, kazengurutswe n'igipapuro cy'umutuku, hejuru hakaba handitseho ngo igisubizo kuri Amibe, bisa naho karimo umuti gakondo uvura Amibe.